Icyapa gishushanyijeho abantu batatu bugaragara ko ari umuryango umusaza, umukecuru ndetse n'umwana ufite ikayi mu ntoki, ndetse kikaba cyanditseho ijambo mu ibara ry'umweru helipu tu secyuwa de fiyuca ofu yuwa famili biri mu ibara ry'umweru, ndetse n'umuhondo ndetse icyo cyapa kikaba gisize ibara ry'ubururu.

Abagabo bambaye amakoti yiganjemo amabara y'umukara, ubururu ndetse n'umweru, ndetse n'abadamu babiri, bateruye icyapa cyanditseho saniramu Rwanda, Kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, bakaba habagaze ahantu hari itapi y'umutuku.

Umukobwa uri guseka wambaye ikote ry'iganjemo ibara ry'umweru ndetse n'agapira ku mwere mo imbere, hejuru hakaba handitse amagambo ari mu ibara ry'umweru ati: cyagihe uba wuzuye ibyishimo n'umutuzo Ndetse hasi hakaba hari andi magambo yanditse mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Icyapa gishushanyijeho umugabo wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati iri mu ibara ry'umweru, hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse kikaba kiririmo ibara ritukura, ndetse hasi hakaba hari ibiti cyangwa se mu mpande zacyo bitandukanye.

Umupapa wambaye umupira uri mu ibara ritukura, imbere ye hakaba hari abagabo babiri bambaye imipira irimo ibara ry'umweru ndetse mu buryo bwabo ndetse no m'ubumoso bw'undi hakaba hari icyapa kiri mu ibara rya orange cyanditseho Mua riri mu ibara ry'ubururu inyuma yaho hakaba hari abandi bantu ndetse n'akabati cyangwa se ameza ari igitambaro cy'umutuku.

Icyapa cyo mu ibara ry'icyatsi, hejuru handitseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, gishushanyijeho icupa riri mu ibara ry'icyatsi ryanditseho virunga siriva ndetse ni ikirahure kirimo inzoga cyanditseho virunga.

Inzu irimo abantu benshi bsri guseka bishimye imbere ysbo hsksbs hsteretse amacupa menshi inzoga zo mu bwoko bwa mitsingi. Ari mu macupa y'icyatsi ndetse muri iyo nzu hakaba harimo amatara yaka icyatsi, umutuku, n'ubururu ndetse na taburo.

Umusore uhetse igikapu cy'umukara, ufite igare, imbere ye hakaba hari abandi ba papa. Harimo umusore wambaye umupira ndetse n'umupapa wambaye umupira w'ubururu, ndetse inyuma yabo hakaba ari igipangu cyanditseho amusiteri biyazi kiri mw'ibara ry'umutuku ndetse n'umweru. Hakaba hari n'igipangu cyubakishije amabuye, ndetse n'igipangu cyiri mw'ibara

Inzu irimo abantu batandukanye, umwe ufite telefone wambaye ishati y'ubururu, ndetse imbere yiwe hari ameza ariho igitambaro cya oranje, n'amacupa ya fanta n'ikirahure, yicaranye n'umumama wambaye ikanzu y'umutuku, ndetse n'imbere yabo hakaba hari abandi bantu umwe yambaye ikoti n'ishati y'umweru, imbere ya bo hari ameza ateretseho igitambaro cy'icyatsi n'amacupa.

Abantu benshi harimo umugabo wambaye ingofero y'umweru n'ikoti ry'umweru, ateruye inzoga ndetse n'ameza ateretseho inzoga, imbere yabo hakaba hari utubati tubitsemo inzoga nyinshi ndetse na televiziyo gusa bisa nkaho bari mu kabari.

Akabati kabitsemo inzoga z'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye z'abantu banywa, ndetse hakaba barimo televiziyo, ameza, kontuwari cyangwa aho abantu babakirira ndetse iyo nzu ikaba isize ibara rya oranje.

Abantu babiri bicaye ku ntebe z'umukara bari kureba televiziyo, inyuma yabo hakaba hateretse intebe ndetse n'ameza, ndetse imbere yabo hakaba hari kontwali cyangwa se ahantu babika ibyo kunywa n'ibyo kurya bitandukanye, bakahabika amacupa ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Inzu iri mu ibara rya orange, harimo utubati turimo ibyo kunywa bitandukanye yaba inzoga, ji, amazi ndetse hakaha hari n'icyapa cyanditseho inzoga ya Mitsingi, hakaba hashushanyijeho inzoga enye ndetse imbere yaho hakaba hari akabati cyangwa se aho bita kontwari.

Umuntu wambaye umwambaro w'icyatsi, isaha y'umweru n'umukara, impeta y'umweru, uteruye ikirahure, imbere ye hari ameza hateretseho ifoke n'agatambaro ndetse n'umuntu uteruye ikirahure kirimo fanta, imbere ye hari ibiyiko bibiri n'isahani iriho imbuto.

Inzu imeze nkaho ari akabari harimo ameza, intebe, ndetse hakaba harimo n'umugabo uri muri kontwari cyangwa se ahantu abashaka kunywa bakura ibintu byo kunywa ndetse hakaba harimo n'igikoresho bita firigo bakunze gukoresha bakonjesha ibyo kunywa ndetse bakagikoresha banabika ibyo kunywa neza.

Inzu irimo abantu batandukanye yaba uwambaye umupira utukura, ndetse imbere ye hakaba hari itara rya umweru, ndetse bikaba bigaragara ko hari inzu harimo amateleviziyo abiri ndetse n'igikuta kiri mu ibara ry'umutuku, ndetse hakaba hari n'utubati tubitsemo inzoga cyangwa se ahantu babika inzoga.

Umugabo wambaye umupira w'umweru mu kaboko ke k'ibumoso hakaba harimo amvirope, mu kiburyo harimo terefone, imbereye hakaba hari umutaka uri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'intebe y'umutuku ndetse n'icyapa kerekana resitora gishushanyijeho icupa rya mitsingi.

Ameza ateretseho ibikombe cyangwa se ibirahuri birimo ibara ry'umuhondo ryanditseho sikolo, muri ibyo birahuri hakaba hateretemo amacupa ari mu ibara ry'icyatsi y'inzoga bita sikolo, ndetse mo imbere muri iyo nzu hakaba harimo televiziyo, ndetse n'ahantu babika ibyo kunywa bitandukanye, yaba inzoga, amazi ndetse na fanta.

Inzu irimo abantu benshi, haba harimo umugabo wambaye ikote ry'umweru, cyangwa se umugabo wambaye ikote ryiganjeml umuhondo ndetse n'ipantaro y'umweru, ndetse bisa nkaho bari mukabari, ibumoso bwabo hakaba hari ameza ateretseho amacupa y'inzoga atandukanye ndetse n'abandi bantu....

Umugabo wambaye umwambaro w'icyatsi hejuru, uhagaze ahantu batangira icyo kunywa cyangwa se bakunze kwita kontwari, isize irange ry'umutuku, ndetse bikaba bigaragara ko imbere ye hari televiziyo bisa nkaho ari kuyireba, inyuma ye hakaba hari ameza, intebe, zo gukoresha abantu bicara mu igihe bari kwiyakira.

Icyapa kimanitseho icupa ry'inzoga, handitseho virunga siriva, ndetse n'ikirahuri cyanditseho virunga siriva, mu buryo bwaho hakaba hari indabyo ziri mu mavaze, ndetse n'ikindi cyapa kigaragara akabari cyangwa se amacupa atatu.

Icupa ry'inzoga ryanditseho virunga riteretse ku meza ariho igitambaro cy'umukara ndetse n'ikirahure, cyuzuyemo inzoga nacyo giteretse ku gitambaro kiri ku meza gusa bigaragara ko iki kirahure bagikoresha banywa inzoga cyangwa se amazi.

Umugabo wambaye ingofero iri mu ibara ry'umukara, wambaye ishati y'umweru, ndetse imbere ye hakaba hari akabati cyangwa se ahantu babika ibintu bitandukanye; yaba inzoga, amazi, ji, ndetse muri iyo nzu hakaba harimo amatara y'umweru, umuhondo, icyatsi, ndetse hakaba harimo n'abantu batandukanye.

Inzu isize irangi ry'umuhondo, irimo amakaziye y'inzoga agiye atandukanye ari mumabara atandukanye yaba umutuku, oranje, icyatsi, ubururu, ndetse hakaba hari n'utubati cyangwa se kotwari harimo ibyo kunywa bitandukanye amaji, nfata, inzoga ndetse n'amazi.

Ameza ateretseho ibyo kurya bitandukanye, ateretseho icupa ryo mu bwoko bwa minsingi, ateretseho imiheha cyangwa se imiceri bakunze kunywesha inzoga cyangwa ibyo kunywa bitandukanye, ndetse imbere yabyo hakaba hari abazungu cyangwa se abashinwa batandukanye, hakaba hari n'umuseriveri uri kubakira wambaye umupira w'umuhondo.

Inzu isize irangi ry'umweru hakaba hari icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo cyanditseho sikolo mu ibara ry'umutuku ndetse hakaba hariho n'ikindi cyapa cyanditseho purani bi biti, hariho icupa rya sikolo ndetse n'urugi rusa umweru.

Inzu irimo akabati kabikwamo ibinyobwa byinshi bitandukanye, yaba inzoga, amazi, ji, ndetse mu buryo bwako hakaba hari umugabo wambaye umwambaro w'umukara ndetse hakaba hari intebe ziri mu bwoko butandukanye. N'ameza, ndetse hakaba hari n'igisenge k'imbaho cyangwa se k'ibiti.

Umugabo wirabura wambaye umupira wiganjemo ibara ry'umutuku, umwe ndetse n'imirongo y'umukara urimo urarambura igitabo kirambitse ku meza, iburyo bwe hakaba harimo impapuro, anvelope ndetse n'akabati kabitsemo imbuto.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku cyanditseho ekwinokisi bare, musi hakaba harimo nimero ushobora kubaboneraho ubahamagara cyangwa se kuri watsapu, ndetse kikaba kiriho n'ifoto yanditseho mitsingi nk'inzoga banywa ndetse n'umuntu uri kuri moto.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru cyanditseho bahamasi pabu, ndetse hakaba handitseho n'ijambo Amusiteri biya, kikaba kimanitse ku nzu ifite amabati ari mu ibara ry'umutuku, ndetse hejuru hakaba hari ikirere gisa neza.

Inzu isize irange ry'umweru mu imbere hakaba harimo utubati tubitsemo ibyo kunywa bitandukanye, yaba inzoga, fanta, amazi ndetse bikaba ari byinshi cyane, ndetse imbere yabyo hakaba hateretse ibirahure byo mu bwoko bw'umweru ndetse n'intebe nyinshi.

Inyandiko ziri mu ibara ry'umukara ndetse zikaba zanditse ku rupapuro cyangwa se urwandiko ruri mu ibara ry'umweru, rugaragaza ibiciro by'ibyo kunywa cyangwa se ibiciro by'ibinyobwa ndetse n'ibyo kurya mu nzu cyangwa se mu kabari.

Ameza ateretseho icupa riri mu ibara ry'icyatsi, ryanditseho Mutzing ndetse akaba ateretseho n'ikirahure kirimo inzoga ndetse hakaba hariho n'irindi cupa ndetse mu ruhande rw'ibumoso hakaba hari umugabo wambaye agapira k'umutuku ndetse muri iyo nzu hakaba harimo televiziyo ebyiri ndetse n'isakoshi iteretse ku meza.

Imodoka ziparitse z'ubwoko butandukanye ziri mu mabara atandukanye, yaba umukara ndetse n'umweru n'icyapa kerekana resitora, gishushanyijeho icupa rya mitsingi risa icyatsi ndetse n'umutaka wa emutiyene bifashisha bagura amayinite.

Inzu iriho amabati ari mu ibara ry'umutuku hirya y'aho hakaba hari inzu iri mu ibara ry'umuhondo cyangwa se isize irange ry'umuhondo, imanitseho kanari purise ndetse hirya hakaba hari icyapa cyanditseho amusiteri biya, kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Inzu cyangwa se ahantu bakunze kwita akabari, harimo ameza ateretseho ibirahure bitandukanye, ndetse hakaba harimo n'intebe ziganjemo ibara ry'umutuku, hakaba harimo abantu batandukanye, ndetse n'ibikombe cyangwa se ibishushanyo byanditseho amusiteri, nk'inzoga abantu banywa.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ingofero y'umukara ndetse n'umugabo wambaye umupira w'umweru inyuma yabo hakaba hari intebe, ameza ndetse kuruhande rw'iburyo bwabo hakaba hari abandi bantu bisa nkaho bagiye kwinjira mu kabari cyangwa se aho banywera.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku n'umuhondo kiriho abantu babiri bari guseka gishushanyijeho icupa riri mu ibara ry'icyatsi cyanditse sikoro kikaba cyanditseho amagambo ati karirosi joyinti.

Umugabo wambaye ingofero iri mu ibara ry'umukara, umupira uri mu ibara ry'umukara, ipantaro iri mu ibara ry'umukara, inkweto ziri mu ibara ry'umukara n'umweru, imbere hakaba hari undi mugabo uhagaze, wambaye umupira w'umukara.

Inzu irimo amatara y'umuhondo, ameza ariho amacupa y'inzoga ndetse n'ibirahuri byuzuye inzoga, hakaba harimo abantu batandukanye, ameza, intebe ndetse n'amatara Ari kwaka icyatsi ndetse n'inyuma hakaba hari andi mazu y'amagorofa n'ibiti.

Umupapa wambaye ishati y'umweru, imbere ye hateretse icupa ryo mu bwoko bwa mitsingi, ndetse n'imiheha yo kunywesha inzoga cyangwa se ibinyobwa bitandukanye, imbere ye hakaba hari tereviziyo bisa nk'aho ari kureba tereviziyo, ndetse n'amacupa menshi ari mu tubati.

Umuntu wambaye imyenda y'umukara, imbere hakaba hari igitambaro cy'umutuku, ndetse n'undi mugabo uhagaze mo imbere, hari kwaka mo amatara y'umutuku, hejuru ye hakaba hari kwaka amatara y'ubururu ndetse n'icyatsi, inyuma ye hakaba hari ameza n'intebe ndetse n'indabyo.

Umumotari wambaye kasike y'umukara utwaye umugenzi wambaye kasike y'umuhondo imbere ye hari umugenzi uri gutambuka utwaye igikapu ndetse hakaba hari imodoka y'umukara imbere yabo hakaba hari inzu yanditseho amusiteri biyazi ndetse n'igare.

Umugabo wambaye ishati y'umweru k'umufuka we hakaba hari akantu k'umutuku uri hagati y'abakobwa babiri bari guseka ndetse nabo kumifuka yabo hariho utuntu tw'umutuku inyuma yabo hakaba hari amacupa y'inzoga atandukanye ndetse hatse n'amatara y'icyatsi.

Ameza ateretseho icupa ry'inzoga riri mu bwoko bw'icyatsi, ibirahure bibiri bitandukanye byifashishwa amu gihe bari kunywa inzoga, impapuro zitandukanye, ndetse hirya hakaba hari umugabo wambaye umwenda w'umukara, ndetse witeretse icupa riri mu bwoko bw'icyatsi ry'inzoga.

Inzu iri kwakamo amatara y'ubururu ndetse n'icyatsi, hakaba hagaze abantu babiri kuri kotwari cyangwa se ku kabati bakiriraho ibyo kunywa, ndetse imbere yabo hakaba hari ahantu h'akabati habitsemo ibyokunywa bitandukanye, inzog hakkaba harimo na televiziyo bisa nk'aho bari kureba televiziyo bananywa inzoga.

Inzu isizeho irangi ry'umuhondo imanitseho kanari pulisi imbere yaho hakaba hari icyapa kirimo ibara ry'umutuku n'umweru cyanditseho bahamasi amusiteri biya, ndetse n'imbere yacyo hakaba hari ibiti ndetse n'igorofa.

Ameza ateretseho ikirahure kirimo inzoga, icupa risa ubururu ryanditseho pirimusi, icyapa cya mtn kiri mu ibara ry'umuhondo kigaragaza kode yo kwishyuraho, ndetse n'ikindi cyapa kiri mu ibara ry'umutuku, hakaba hahagaze n'undi mugore wambaye umupira w'umweru.

Abantu bahagaze bisa nkaho bari kureba televiziyo, imbere yabo hari intebe iri mu ibara ritukura, inyuma yabo hari abandi bantu babiri bicaye mu ntebe ndetse bisa nkaho bari gusangira, ndetse muri iyi nzu hakaba harimo inzu ifite amakaro y'umweru n'umukara, harimo na televiziyo n'ahantu babika ibikoresho byaba ibyo kunywa n'ibindi.

Inzu iri kwakamwa amatara y'icyatsi ndetse n'umuhondo mo imbere hakaba harimo akabati cyangwa se aho bakunze kwita kontwari babika ibyo kunywa bitandukanye, hakaba harimo amacupa arimo ibyo kunywa bitandukanye, yaba ji fanta mitsinzi zitandukanye ndetse muri iyo nzu hakaba harimo televiziyo ndetse n'igikoresho kibika ibicuruzwa neza cyangwa se ibyo kunywa neza.

Umudamu wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umukara akaba ateruye imashini bakozaho ikarita ya emutiyeni cyangwase yanditseho pisapari savi, ndetse akaba ahagaranye n'undi mumama usutse ibisuko, ndetse haka hari amagiriyaje cyangwase ibyuma.

Ameza ateretseho amacupa abiri y'inzoga ari mu ibara ry'icyatsi yanditseho Amstel ndetse n'ibirahure bibiri birimo inzoga ndetse n'agakarito bigaragara ko ari envilope ndetse n'inyuma hakaba hari intebe ndetse n'ibiti.

Abantu bicaye ku ntebe zisa umukara harimo uwambaye umupira w'umweru, imbere yabo hateretse amacupa y'inzoga atandukanye, ari mu icupa ry'icyatsi ndetse bikaba bisa nkaho bari kureba televiziyo. Kandi muri iyo nzu hakaba harimo amatara y'ubururu ndetse n'icyatsi.

Ameza ateretseho icupa ryo mu bwoko bwa mitsingi, abantu benshi bitandukanye bicaye ndetse n'abahagaze, ndetse hakabahakamo amatara y'umweru ndetse, hakaba hari ijambo ryanditse mu ibara ry'umeru henikeni. Ndetse hakaba harimo utubati turimo inzoga zitandukanye.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, gishushanyijeho icupa riri mu ibara ry'icyatsi ryanditseho amusiteri mu ibara ry'umweru n'umutuku ndetse hakaba hariho n'ikirahure cyuzuye inzoga cyanditseho amusiteri, imbere yaho hakaba hari inzu yanditseho daramuzi ronje.

Icyapa kiriwbara ry'icyatsi hashushanyijeho icupa riri mu ibara ry'icyatsi ryanditseho virunga siriva biya ndetse n'ikirahuri cyanditseho virunga siriva biya hejuru hakaba hari amagambo ari mu ibara ry'umutuku yanditse masta bare endi restoreti hirya mu buryo hakaba ari inzu y'igorofa.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe, ameza abari ku kabati cyangwa se ahantu bakirira ibyo kunywa bakunze kwita kontwari, ahantu harimo inzoga amacupa menshi y'ibyo kunywa ndetse n'ibintu bitandukanye, muri iyo nzu hakaba harimo n'amatara yaka ubururu.

Inzu irimo amatara y'icyatsi, ay'ubururu ndetse hakaba harimo utubati cyangwa se kotwari habitsemo amacupa menshi y'ibyo kunywa bitandukanye , yaba mitsingi , amazi , inzoga zitandukanye ndetse hakaba harimo tereviziyo, bifashisha bareba kugira ngo baruhure mu mutwe.

Inzu isize irangi ry'umuhondo, hakaba harimo umupapa wambaye imyenda y'umukara, hasi akaba yambaye imyenda yiganjemo naho umukara, hakaba harimo amatara ari kwaka umuhondo, hakaba harimo ameza, ibitanda ndetse n'intebe, hakaba harimo n'ahantu bakunze kwita kontwari, aho babika ibinywebwa ndetse n'ibiribwa.

Inzu irimo igisenge k'imbaho n'ibyatsi harimo intebe, ameza, ibitambaro bisa umutuku, ishobora gukoreshwa, kunywera mo, kurira mo, harimo n'amatara y'umuhondo.

Ameza ateretseho ibirahure biri mu ibara ry'umweru bitandukanye bashobora kwifashisha banywa inzoga, amazi ndetse n'ibinyobwa bitandukanye, ameza akaba ateretseho ibiyiko amafurusheti ndetse n'umuntu ufashe ku meza.

Inzu iri mu ibara ry'umweru mo imbere hakaba harimo amacupa y'inzoga menshi agiye atandukanye ndetse n'umuntu uhagazemo ndetse hejuru hakaba hari igikombe kigaragara nkaho bagiye gutanga ibihembo mu bakinnyi ndetse n'abandi bantu.

Urupapuro ruri mu ibara ry'umweru rwanditseho amagambo ari mi ibara ry'umukara agaragaza ibiciro by'ibinyobwa cyangwa se ibiribwa ahantu bacuruza yaba Heiniken bagaragaje igiciro cyayo, Mutzing igihumbi detse na Panache igihumbi.

Umuntu wambaye umupira w'umweru n'umukara, ndetse n'ipantaro y'umukara, imbeye y'iwe hari ameza, wicaye ku ntebe, ndese muri iyo nzu kakaba hari amatara y'icyatsi n'ubururu, imbere ye hakaba hari abandi bantu babiri, kandi imbere ye hakaba hateretse amacupa abiri y'inzoga.

Inzu isize irangi ry'umweru, hakaba harimo ikoti rimanitse riri mu ibara ry'umweru wijimye ndetse n'ishati iri mu ibara ry'umweru. Ndetse na karuvati iri mu ibara ry'umweru, abantu bashobora kuryambara mu gihe bagiye mu birori bitandukanye. Ndetse iyo nzu ikaba irimo n'amatara ari kwaka y'umweru.

Inzira iri kwakamo amatara y'umweru n'imbere hakaba harimo imyambaro igitandukanye, yaba iy'abadamu iy'abapapa, amakanzu, amajipo, amapantaro ndetse n'amashati, ndetse akaba hari n'utubati tumanitsemo ibyo gukoresha bitandukanye, haba amasakoshi, ibikapu n'inkweto ndetse n'ibindi bintu.

Inzu igurishirizwamo ibikoresho bitandukanye hakaba harimo agatebo gateretsemo ibitabo bitandukanye yaba igitabo cy'umukara, umweru ndetse n'igitabo kiri mu ibara ry'umukara cyanditseho mapu ofu kigali ndetse hirya yaho hakaba hari igishushanyo cyangwa se igitabo.

Iduka rimanitsemo imyenda itandukanye, yaba iy'umukara, umutuku, ubururu ndetse n'ikigina, inyuma yaho hakaba hari ibara rijya gusa umweru cyangwa se icyatsi, iri duka rikaba rikoreshwa mu gucuruza imyenda cyangwa se abaturage baza kuhahahira imyenda igi

Inzu irimo utubati tubitsemo imyambaro itandukanye, ibitenge biri mu mabara atandukanye nk'ubururu, umukara, umutuku, icyatsi ndetse n'ikigina bikaba biteretse ku kabati kari mu ibara ry'ikigina cyangwa se ikinombe.

Inzu iri mu ibara ry'umweru, hasi hakaba hari amakaro ari mu ibara ry'umweru, mo imbere hakaba harimo intebe iri mu ibara ry'umweru ndetse n'ameza ari mu ibara ry'umukara, hakaba harimo utubati tubitsemo ibikoresho bitandukanye, yaba inkweto, imyenda ndetse n'ibindi.

Umumama muri useka wambaye umwambaro wiganjemo ibara ry'umutuku, ubururu ndetse n'umweru, imbere hakaba hari akabati cyangwa se ahantu hateretse mudasobwa iri mu ibara ry'umukara ndetse n'imashini bifashisha mu mibare, akaba ateruye ikaramu mu kuboko kwe kw'iburyo, ndetse muri iyo nzu hakaba harimo imyanda myinshi bisa nk'aho hari iduka.

Inzu isize ibara ry'umukara kugikuta harimo inkweto zitandukanye yaba iz'umweru, umukara, ubururu, icyatsi, umutuku bakunze gukoresha igihe bagiye gukina umupira w'amaguru mukibuga abakinnyi batandukanye.

Inzu iparitsemo imodoka zigiye zitandukanye ziri mu mabara y'umukara, ndetse hakaba harimo imodoka iri mw'ibara ry'umukara yanditseho bemuwe cyangwa se BMW imodoka ikunze guhenda cyane ndetse imodoka bakaba bayifashisha bagenda ahantu hamwe hatandukanye, ndetse n'ahandi bakayikoresha kugirango bihutishe urugendo.

Inzu isize irangi ry'umweru mu imbere hakaba harimo amakara ari mu ibara ry'umweru hakaba haparitsemo imodoka iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara ndetse iyo modoka bakaba bakunze kuzita yundayi, ikaba yakwifashishwa mu korosha urugendo bajya ahantu hamwe cyangwa ahandi.

Abantu batandukanye bahagaze bigaragara ko bari gushaka serivisi zitandukanye yaba uwambaye umupira cyangwa se ikote riri mu ibara ry'umukara, imbere hakaba ari ahantu cyangwa se ahantu wasangira ibyangombwa byawe bakunze nko gukora kuri banki ugenda ukashyira ibikoresho byawe ndetse ha akaba ari n'ibirahure ihande rw'ibumoso bwe hakaba hari n'undi mupapa ufite telefone.

Inoti y'igihumbi y'amafaranga y'u Rwanda hakaba handitseho igihumbi mu ibara ry'umukara, ndetse hakaba hashushanyijeho inkende iri kurira igiti, ndetse n'inzu ndangamurage y'igihugu cy'u Rwanda ndetse inoti ikaba yakoreshwa mu guhaha ibicuruzwa bitandukanye, yaba ahantu hatandukanye ndetse no mu gihugu ndetse no hanze.

Umumama uteze igitambaro, wambaye umwambaro wo hasi w'ikanzu urimo amabara atandukanye, imbere ye hakaba hari ameza ndetse harambitseho amafaranga ndetse n'ikaramu ndetse mu kuboko kw'ibumoso kwe hakaba harimo amafaranga, akaba afite amafaranga atandukanye ndetse imbere ye hakaba hari n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Inoti y'amafaranga ijana yanditseho banki nasiyonanali y'u Rwanda, iri mu mabara yiganjemo icyatsi, umuhondo, ndetse n'ubururu ndetse akaba yanditseho amafaranga ijana, akaba arambitse ku meza.

Hasa nkaho ari igihe cy'ijoro ariko nkaba mbona icyapa gisa nkaho kirangaho uruganda rw'inyange rukorera cyangwa aho bacururiza inyange bisa nkaho ariko yari mu ijoro cyane.

Inzu irimwo ibara ry'umweru, harimo amakaro menshi atandukanye yo mu ibara ry'umweru, hakaba hari n'igikoresho bifashisha babika amata, ahantu hameze nko mu nzu y'ikaragiro ry'amata bakunze kujyana amata igihe abacuruzi bayagemuye.

Inzu isize irange ry'umweru mo imbere hakaba harimo umukobwa cyangwa se umudamu wambaye ikabutura ndetse akaba yambaye hejuru umupira uri mu ibara ry'umweru, akaba ahetse n'igikapu, inyuma ye hakaba hari intebe ndetse n'igikoresho babikamo amata.

Inzu iri mu ibara ry'ubururu, hejuru hari parafo cyangwa se igisenge kiri mu ibara ry'umweru, hakaba harimo umuntu wambaye ikoti risa umukara ndetse mu bumoso bwe hakaba hari igikoresho bifashisha babika amata cyanditseho Inyanza kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Akazu karimo ibara ry'ubururu gafunze n'ingufuri ebyiri, karimo amacupa y'amazi bakunze kwita jibu, atandatu, inyuma yako hakaba hari inzu yubakishije amatafari ahiye, ndetse n'ubumoso bwako hakaba hari urugi rufite iserire.

Umuntu wambaye umupira w'umukara ipantalo isa ubururu uri mu nzu isize irange ry'umuhondo uteruye igikoresho cyagenewe kugeza amata ahabugenewe arimo arabuganiza amata mu gikoresho cyagenewe kubika amata neza.

Igikombe k'ikirahure kirimo amata giteretse kumeza, gifashwe n'agatoki, kuruhande rw'ibumoso hakaba hariho isahane iriho keke, irindazi, ifoke, ikiyiko, ndetse iyo meza ikaba ifunitse n'umwenda cyangwa se igitambaro cy'umweru.

Inzu isize irange ry'umweru n'ubururu hakaba harimo etajeri cyngwa se utubati tubitse ibikombe bifashusha banywa amata, amazi ndetse n'ibirahure banyweramo amata ndetse n'udutambaro tw'isuku bakoresha mu gihe biyanduje bari kwiyakira ndetse n'indobo zirimo amandazi.

Inzu isize irangi ry'umweru n'ubururu bisa nk'aho ari aho bacururiza amata, harimo intebe y'umweru ya purasitike ndetse n'intebe y'ubururu ya purasitike, hakaba harimo igikoresho bifashisha babika amata neza bakunze kwita firigo, ndetse kikaba kimanitseho igishushanyo cyanditseho mukamira kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Inzu isize irangi ry'ubururu n'umweru, hakaba harimo igikoresho bifashisha babika amata neza kugira ngo atangirika, ndetse n'indobo bifashisha basukamo amata, ijagi bifashisha babuganiza amata ahabugenewe, ndetse n'ahantu babika ibyo kurya bitandukanye, amagi, imigati, ndetse n'amakarito ya ji cyangwa se amazi.

Ameza ari mu ibara ry'umweru ateretseho agakombe cyangwa se ahantu babika udukoresho bakunze kwifashisha mu gihe abantu bamaze kurya ibintu byabafashe mu menyo, tuba dukoze mu giti cyangwa se bakatwifashisha mu gihe bamaze kurya inyama ndetse imbere yaho hakaba ari inzu y'amatafari ahiye.

Umudamu wambaye imyambaro y'umweru, ufite igikoresho cyo gusuka amata bakunze kwita ijage, akaba ari kuyasuka mu yindi jage, ku meza hakaba hateretseho akajerekani kari mu ibara ry'umuhondo, gashobora kwifashishwa babika amata cyangwa se batwaramo amazi, ndetse hanze hakaba hari umuntu uri gushaka gufata ya jage, ndetse n'umumama wambaye umupira w'umweru.

Isambusa cyangwa se ibiraha biteretse ku isahane y'icyuma, iyo sahane ikaba iri kumeza, bikaba bigaragara ko abantu bagiye kubirya cyangwa se bagiye kubigurisha kugirango babone amafaranga yo kubaho.

Inzu isize ibara ry'umweru n'ubururu hakaba harimo icyapa kerekana inyange kirimo umweru n'ubururu ndetse hakaba harimo n'amakarito menshi yanditseho inyange ndetse hakaba harimo n'utubati habitsemo ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya.

Ameza asasheho igitambaro cyiganjemo ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, ateretseho isahani cyangwa se akantu kariho amandazi yo kurya ndetse aya mandazi bashobora kuyanywesha amata cyangwa se igikoma cyangwa se icyayi m'urugo.

Inzu iri mu ibara ry'umweru, harimo akabati kabitsemo ibyo kurya bitandukanye nk'imineke, ndetse n'ibindi bintu biri mu dukombe cyangwa se mu ducupa, abantu bakifashisha mu gihe bari guteka cyangwa se imineka bakayirya mu rugo nka vitamine.

Inzu iri mu ibara ry'ubururu, ndetse hakaba harimo akabati kabitse ibyo kunywa bitandukanye, yaba ji, amazi y'inyange, ndetse n'amata y'inyange, hakaba hari n'indobo ipfundikiye capati, ndetse n'indobo y'ubururu bigaragara ko bari kuyisukamo amazi cyangwa amata.

Indobo iri mu ibara ry'umweru, ifite imikondo iri mu ibara ry'ubururu, mu buryo bwayo hakaba hateretse teremusi nk'igikoresho twifashisha tubika ibyo kunywa bitandukanye ndetse mu buryo bwayo hakaba hari indi teremusi iri mu ibara ry'umweru n'umukara.

Abadamu babiri bambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu imbere yabo ha bakaba bateretse amakarito y'amatage atandukanye yaba ari mu ibara ry'icyatsi umweru ndetse n'umutuku ndetse hakaba hari n'icyapa cyanditseho mukamira dayari rimitedi inyuma yaho hakaba hari utubati babitsemo ibikoresho cyangwa se amata.

Inzu iri mu ibara ry'umweru n'ubururu, hari mo igikoresho kibika amata cyanditseho inyange milike zone mu ibara ry'umweru n'ubururu ndetse n'amajerekani cyangwa se amabuni babikamo amazi.

Umuntu ufite umusatsi usa umukara, uri kunywa amata akunze kwitwa yahurute aba apfunyitse mu gakombe k'ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'iroza, afatishije intoki ebyiri ariko bisa nkaho hari umuntu umufatiye wundi ufite inzara z'ubururu.

Inzira iri mu ibara ry'umweru, ifite icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho INYANGE MILK ZONE biri mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, ikaba ifite imiryango isa ubururu ndetse hanze hakaba hateretse agatebo ko gushyiramo imyanda.

Inzu irimo akabati kari mu ibara ry'umweru, hakaba hateretsemo amacupa y'amata atandukanye, ari mu ibara ry'umutuku, umuhondo, ubururu ndetse hakaba hateretsemo n'andi makarito ari mu ibara ry'ubururu n'umweru n'igishushanyo cyanditseho royo gishushanyijeho inka.

Icupa cyangwa se agakombe babikamo amata kanditse ijambo mukamira mu ibara ry'umweru, ndetse iryo cupa rikaba riri mu ibara ry'umukara n'umweru hasi yiryo jambo mukamira hakaba hari handitse amagambo avuga ati '' faravudi yogati'' ndetse hasi yaryo hakaba handitse amagambo ari mu ibara ry'umutuku, risa nkaho iryo cupa rifashwe n'umuntu.

Inzu irimo amagi ashobora kuba ari ayo kurya cyangwa se kugurishwa ari mu itereyi idufasha kubika amagi neza iyo tereyi ikaba itereretse ku kintu gifite ibara ry'umweru n'ubururu ndetse ikaba iri mu nzu.

Inzu irimo amakaro y'umweru hahagaze mo umukobwa wambaye ikabuturia iri mu ibara ry'iroza, n'umupira w'amaboko maremare w'umweru, n'umugabo uhagaze impande y'ijage bakoresha basuka amata, bigaragara ko ari mu ikaragiro ry'amata.

Ameza ateretseho ikirahure cy'amata ndetse n'ikaramu ifite igifuniko cy'ubururu, ndetse n'umuntu urimo urarya keke afatishije agatoki kamwe, ndetse n'igitenge kijya gusa umutuku ndetse n'icyatsi.

Isambusa zikoze mu ifarini nyinshi ziteretse ku isahani cyangwa se mu kindi gikoresho zishobora kuba zikozwe mu ifarini cyangwa se harimo inyama abantu bashobora kuzifashisha mu gihe bagiye gushaka ibyo kubaho cyangwa se bakazirya.

Ameza ateretseho umufuniko uri mu ibara ry'ubururu umufuniko uri mwibara ry'ubururu ukaba uriho ibiraha cyangwase isambusa isambusa turya twese nk'abantu, ndetse ameza akadufasha kurya ibinu bitatubangamira.

Umukobwa wicaye ku ntebe ya pulasitike iri mu ibara ry'ubururu yambaye k'ubururu n'ikanzu y'icyatsi inyuma ye hakaba hari hari akabati cyangwa se aho babika ibinyobwa bitandukanye yaba fanta, novida, amazi ndetse n'ibindi.

Umudamu wambaye umwambaro hejuru wiganze ibara ry'umutuku ,ndetse n'umweru ndetse akaba yambaye n'igitenge cyiganjemo ibara ry'umutuku n'umweru, imbereye hakaba hateretse ibikoresho bifashisha batwara amata ahabugenewe, ndetse n'abagabo bateruye kimwe muribyo bikoresho bari gusuka ahabugenewe amata.

Inzu isize ibara ry'umweru n'ubururu, harimo intebe ebyiri za parasitike abantu bicaraho, ndetse hakaba harimo igikoresho babikamo amata cyanditseho inyange miriki zone, kirimo ibara ry'ubururu n'umweru, hakaba hari ijerekani basukamo amata cyangwa se babuganizamo amata.

Umusore wambaye ishati y'ubururu wicaye ku ntebe ya parasitike y'umweru, uteruye igikombe cy'amata bigaragarako ari kunkwa amata, ndetse imbere ye hakaba hari ameza ateretseho ijage cyangwa se igikoresho bifashisha bahereza abakiriya amata ndetse n'umuvandimwe we wambaye agapira k'umweru ndetse nundi mukobwa bari kumwe.

Ikarito iri mu ibara ry'umuhondo, yanditseho amagambo agiye atandukanye mu ibara ry'umukara, iteretse ku meza, ndetse hakaba hari n'indi karito iyiri hejuru cyangwa se iteretse hejuru yayo, yanditseho naturo kofi, ndetse n'uruhande rw'ibumoso rwayo hakaba hari igikoresho gikonjesha ibyo kunywa, ndetse no muri iyo nzu hakaba harimo n'ibinyobwa bitandukanye yaba enaji ndetse n'ibindi.

Akazu kari mu ibara ry'ubururu gafunze n'ingufuri ebyiri gacururizwamo amazi, harimo amacupa atandatu y'amazi bita jibu bakoresha bifashisha mu rugo ndetse bakanayanywa, inyuma yaho hakaba hari inzu y'amatafari ahiye.

Ameza ari mu ibara ry'umukara ateretseho ikirahure banyweramo amata, kirimo amata ndetse n'isahani iriho ibiryo ndetse hakaba hateretseho n'ibindi bikoresho bitandukanye, yaba ibikoresho by'isuku bakoresha mu gihe umaze kurya.

Inzu irimo abantu babiri umwe yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara afite telefone, undi ari gusuka amata mu gikombe gisa umweru imbere yabo hari indobo isa ubururu ndetse n'igikoresho cyabugenewe cyo kubikwamo amata cyanditseho miliki zone ndetse n'inyange.

Umudamu wambaye imwambaro w'umukara uri guseka ateruye amakarito abiri y'amata, inyuma ye hari igikoresho gikonjesha ibinyobwa birandukanye, n'undi wambaye ishati y'umweru uteruye ikarito y'amata, inyuma ye hari igikoresho gikonjesha ibinyobwa bitandukanye.

Umuntu wambaye umupira uri mu ibara rya oranje wanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, uhagaze imbere y'amatireyi ari mu ibara ry'icyatsi, bifashisha batwara amagi ahantu hamwe cyangwa ahandi cyangwa se bakayabikamo amagi.

Inzu isize irange ry'ubururu, ifite inzugi zisize irangi ry'umweru, hanze hakaba hari imeza, intebe ziri mu ibara ry'umweru, ndetse hakaba hateretseho indobo irimo amandazi, ndetse n'imineke, n'amasahani.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ipantalo y'umukara agapfukamunwa k'umutuku uri ahantu mu nzu bigaragara ko ari ikusanyirizo ry'amata cyangwa se ikaragiro ry'amata hakaba hari n'ibikoresho bifashisha bagemura amata ahantu habugenewe.

Umudamu wambaye ikanzu y'ubururu, uteze igitambaro cy'umweru ndetse n'igikapu cy'umukara, uhagaze ahantu bacururiza ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, yaba ari fanta, amazi, ndetse na ji bitandukanye, bigaragara ko agiye kugura.

Inzu isize irangi ry'ubururu, mo imbere hakaba harimo igikoresho bifashisha babika amata kugira ngo atangirika ndetse n'indobo bifashisha babikamo amata ndetse hakaba harimo amakaro y'umweru ndetse n'ikindi gikoresho bifashisha bakojesha amata.

Amagi atatu ari mu gikoresho kiri mu ibara ry'umukara, hateretseho agakombe cyangwa se agakoresho bashobora kwifashisha bashyiramo umunyu cyangwa se ibindi bintu, bikaba biteretse ku meza ndetse ayo meza akaba ateretseho akantu kameze nk'agapapuro cyangwa se agakarito hirya.

Inzu isize irangi ry'umweru hakaba harimo igikoresho bakunze kwita firigo kidufasha gukonjesha cyangwa se kubika amata ndetse n'ibindi bikoresho neza yaba ibyo kunywa, ibiribwa ndetse hakaba harimo n'ameza ndetse n'urusinga rw'umukara ruzamuka hejuru.

Indobo iri mu ibara ry'umweru ipfunduye bifashisha bagiye guhaha cyangwa se bagatwaramo ibicuruzwa bitandukanye hakaba harimo keke mo imbere ku ruhande rw'iburyo hakaba hateretse terefone ku meza ndetse inyuma hakaba hari igikoresho bifashisha babikamo amata cyanditseho industries kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Ameza ateretseho igikoresho tubikamo udutambaro tw'isuku, twifahisha mu gihe tumaze kurya cyangwa se kunywa kugira ngo twisukure, ndetse utwo dutambaro tukaba dufunze mu ishashi y'ubururu.

Ibirahure bibiri birimo amata, biteretse ku meza ifite igitambaro cy'ubururu n'umweru. Hakaba hariho n'akavido gashobora kwifashishwa batwara amazi cyangwa se babikamo amata. Hirya yaho hakaba hari intebe ya parasitike y'umweru ndeste n'akabati.

Ikirahure cy'amata kiri mu ibara ry'umweru, giteretse ku meza, imeza iriho igitenge cyangwa se igitambaro kiganjemo ibara ry'umukara, imbere y'aho hakaba hari umumama wicaye, ndetse hakaba hari n'ibikombe bibiri, ndetse harimo n'intebe ya parasitike mu ibara ry'ubururu.

Umugore uhagaze wambaye ikanzu isa umutuku uri mu nzu bacururizamo amata ifite irange ry'umweru inyuma ye hari igikoresho bifashisha bakonjesha amata.

Inzu irimo amakaro y'umweru, bikaba bigaragara ko hasi bahamennye amazi, hanze hakaba haparitse igare ry'umweru n'umukara ndetse na moto iri mu ibara ry'umukara n'umutuku ndetse n'abantu barimo baratambuka n'ibikoresho bifashisha batwara amata ahabugenewe.

Amajerekani abiri ari mu ibara ry'umweru akaba ateretse mu kabati cyangwa aho bakunze kwita kuri etejeri, iburyo bwayo hakaba hari inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse kuri iyo etejeri hakaba hari urwandiko rwanditseho indasitirizi biri mu ibara ry'umweru n'ubururu.

Umumama wambaye ingofero mu mutwe, akaba yambaye ikanzu yiganje mo amabara y'ubururu, umweru, umuhondo ndetse n'umukara, imbere ye hakaba hateretse ameza ateretse ho utu jerekani bashobora kwifashisha batwaramo amazi cyangwa se babikamo amata, ama teremusi n'ibindi.

Indobo iri mu ibara ry'umweru, bakunze kwifashisha mu gihe batwaye ibicuruzwa ahantu hatandukanye, cyangwa se kujya kugurisha ibicuruzwa ahantu hatandukanye, hakaba harimo amandazi, ikaba iteretse ku meza, ndetse hakaba yateretseho n'ikaramu, ndetse hirya yaho hakaba hari akabati cyangwa se akabati gasa mu ibara ry'ubururu.

Igitebo cyangwa se ipaniye mu rurimi rw'amahanga, iteretse ku meza irimo agapapuro k'isuku dushobora kwifashisha mugihe dusoje kurya.

Inzu iri mu ibara ry'ubururu n'umweru icururizwamo ibinyobwa bitandukanye nka novida ipfunitse mu icupa ry'icyatsi, marite, wembe, inyange, fanta ndetse n'amacupa yanditseho nile y'amazi.

Amacupa y'amata bakunze kwita yahurute afunitse mu ducupa dutandukanye yaba iroza, umutuku, ubururu, icyatsi ndetse n'ubururu yifashishwa mu gihe bongera intungamubiri z'abana cyangwa se tukayanywa kugira tugire ubuzima bwiza.

amakarito y'amata yanditseho milk yaba ari mwibara ry'ubururu n'icyatsi cyangwa se ibara ry'umweru imigati igiye itandukanye utujerekani bifashisha babikamo amata cyangwa se tukatwifashisha murugo dutwaramo amazi

Isahani iri mu ibara ry'umweru bashobora kuyikoresha mu gihe baruye ibiryo cyangwa se bagatwara ibintu bitandukanye ikaba iteretseho cyangwa se iriho isambusa isambusa zikoze mu ifarini ndetse n'inyama abantu barya.

Amverope ebyiri ziri mu ibara ry'ikinombe, zishobora kwifashishwa bageza ibicuruzwa ahantu hatandukanye cyangwa se abantu bajya guhaha ndetse n'amacupa y'amazi ya Nile afite imifuniko y'ubururu, abantu bayifashisha banywa amazi ndetse akaba ateretse ahantu hari ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye ishati, uteruye akajerekani mu kuboko kw'ibumoso, ukuboko kw'iburyo kufunguye amata ajya mu ijage, ijage bifashisha basukaamata ahabugenewe. Inyuma ye hakaba hari amagambo yanditseho "inyange milkzone", mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Inzu isize ibara ry'umweru ndetse hakaba harimo amakarito cyangwa se amashashi arimo ibyo kurya bitandukanye, yaba capati, imigati, amandazi abantu barya ndetse bikaba biteretse ahantu hari umukeka cyangwa se ahantu hashashe igitambaro cy'ubururu ndetse n'umweru.

Umupapa wambaye umupira uri mu ibara ry'umukara, inyuma ye hakaba hari ntebe iri mu bwoko bwa parasitike, iri mu ibara ry'ubururu. Ndetse mu kuboko kw'iburyo kwe hakaba hari igikoresho cyagenewe kubikwamo amata, cyanditseho Mukamira, mu ibara ry'ubururu n'umweru, ndetse imbere ye hakaba hari umukobwa wicaye ku ntebe.

Inzu iri mu ibara ry'umweru n'ubururu, hari n'ibikoresho bigiye bitandukanye, bifashisha bacuruza amata, yaba ijage bifashisha mu gihe bari kubuganiza amata, cyangwa se ibikombe mu gihe bari kugurisha abakiliya amata, ndetse n'igikoresho bifashisha mu gihe bari kubika amata neza.

Abantu bateruye ibirahure biri mu ibara ry'umweru banyweramo amata bikaba birimo amata, hakaba harimo umwe wambaye umupira w'umutuku ndetse iburyo bwe hakaba hari akabati gateretseho isahani ndetse ku meza yabo hakaba hariho umugati, isahani ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umudamu ufite telefone mu kaboko k'ibumoso, mu buryo bwe hakaba hari igikoresho bakunze kwita firigo, bifashisha bakonjesha icyo kunywa hashushanyijeho icupa rya kokakola, hakaba harimo igikoresho kindi bifashisha bakonjesha cyangwa se bafata amata neza, cyangwa se harimo intebe za pulasitike ziri mu ibara ry'ubururu.

Umudamu wambaye ikanzu yiganjemo amabara atandukanye, wambaye igitambaro, wicaye ku ntebe, imbere ye hakaba hari ameza ndetse ateretse n'igikombe cy'umweru cy'amata. Iruhande rw'ibumoso hakaba hari undi mugabo wambaye ishati y'umukara ndetse n'ingofero y'ubururu, inyuma hakaba hari icyapa cyanditseho "hano hari amata meza y'inka".

Umwana urikunywa amata mu kirahure ufite keke mu kuboko kwa ibumoso imbereye hakaba hiri ameza ari m'ibara ry'umweru, ndetse n'umupapa wambaye umupira w'umweru n'oranje.

Inzu isize irange ry'umweru hakaba harimo ameza y'umweru, ameza y'umweru hakaba harimo umuntu urukurya capati nk'ikiribwa dukunze kurya twese kugira ngo tubeho, ndetse hakaba hateretse ikirahure ku meza.

Inzu isize irangi ry'umweru n'ubururu, hakaba handitseho Inyange milk zone ndetse hakaba hamanitse icyapa cyanditseho Inyange milk zone mu ibara ry'umweru n'ubururu ndetse hanze hakaba hari ameza ari mu ibara ry'umweru ndetse n'intebe ziri mu ibara ry'ubururu.

Umukobwa wirabura wambaye ishati y'umweru, uteruye ijage nk'igikoresho bifashisha babuganiza amata cyangwa se basuka amata ndetse akaba afite igikoresho mu kuboko ku iburyo, imbere ye hakaba hari indobo bashyiramo amata ndetse n'indi jage iteretse ku meza n'ikayi ndetse nyuma ye hakaba hari igikoresho bifashisha babika amata nka firigo.

Inzu imeze nk'ikaragiro ry'amata, harimo igikoresho cyagenewe kubika amata cyanditseho inyange miliki zone ndetse hafi yaho hakaba hari intebe ya palasitike ndetse hakaba hari n'akabati kabitsemo amata n'amazi.

Ameza ari mu ibara ry'umweru, ateretseho ikirahure kiri mu ibara ry'umweru, cyuzuyemo amata, ndetse akaba ateretseho n'isahani bashobora kwifashisha mu gihe bari kurya, bari kuyiriraho, cyangwa se bakayizanaho ibicuruzwa bitandukanye.

Amacupa y'amata bakunze kwita yahurute ari mu makarito atandukanye cyangwa se mu mabara atandukanye, yaba ay'umutuku, umuhondo, umweru ndetse hakaba harimo n'amazi ya Nile maremare ndetse hakaba harimo n'utujerekani babikamo amata cyangwa se twakoresha dutwaramo amazi.

Umudamu uteze igitambaro kiganjemo ibara ry'icyatsi ndetse n'umukara, uteruye ijage irimo amata bakoresha mu gihe bagiye gusuka amata ahantu habugenewe ndetse akaba yambaye igitenge cyangwa se umwambaro wo hasi usa umutuku, imbere ye mu bumoso bwe hakaba hari ameza ateretseho ijage ndetse n'igikoresho kifashishwa babika amata.

Ameza ateretseho ibintu bitandukanye, yaba udukarito tw'amabara atandukanye, icyatsi, ubururu n'umuhondo ndetse n'umweru ndetse kuri ayo mazi hakaba hateretse utujerekani tubika amata ndetse n'amata bakunze kwita Yogurt atera intungamubiri.

Ameza ari mu ibara ry'umukara, abantu bashobora kwifashisha bariraho cyangwa se banywera kugira ngo bamererwe neza, akaba ateretseho isahani iriho ibyo kurya, nka keke abantu barya ndetse akaba ateretseho n'udusahani tundi duto cyangwa se udukombe.

Umumama wambaye umwambaro uri mu ibara ry'icyatsi, imbere ye hakaba hateretse amacupa cyangwa se udukopo turimo amata ya yahurute, ari mu mabara atandukanye yaba umutuku, icyatsi ndetse n'umweru, ndetse hakaba hateretse ku meza utujerekani babikamo amata, cyangwa se twakwifashisha tunywa amazi mu rugo.

Inzu isize irangi ry'umweru, hasi hakaba hari amakaro ari mu ibara ry'umweru ndetse hakaba harambitsemo ibikoresho bifashisha batwara amata ahantu habugenewe cyangwa se bayajyanye kuyagurisha ndetse muri ibyo bikoresho hakaba harimo ijage bifashisha babuganiza amata cyangwa se basuka amata ahantu habugenewe.

Ameza ateretseho indobo z'ibara ebyiri z'ibara ry'umweru, zikunze gukoreshwa batwara ibicuruzwa bitandukanye, ndetse bagatwaramo ibintu bitandukanye babivana ahantu hamwe babijyana ahandi, hakaba harimo keke, amandazi, ndetse hejuru hakaba hari n'igikoresho bifashisha bakura irindazi cyangwa se igicuruzwa mu ndobo.

Inzu y'amatafari ahiye irimo amakaro asa umweru, hakaba harimo intebe eshatu ndetse hakaba harimo igikoresho bifashisha babika amata cyanditseho Nyanza milk industries kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu gishushanyijeho inka.

Umukobwa wambaye umupira w'imbeho wambaye amaherena imbere ye hakaba hari ameza bashobora kwifashisha bayayiraho cyangwa se bayankweraho, akaba yicaye kuntebe hasi ye y'inzu hakaba harimo amakaro y'umweru ndetse iyo nzu ikaba ikoreshwa nkaho bacururiza amata cyangwa se ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Umumama wicaye wambaye umwambaro wiganjemo ibara ry'umutuku n'umuhondo, mu kuboko kw'iburyo kwe hakaba hari igikoresho bita firigo, bakunze gukoresha bakonjesha ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya kugira ngo bitangirika, ndetse mu kuboko kw'ibumoso kwe hakaba hateretse igikombe cy'umweru, harimo n'ikiyiko.

Inzu iri mu ibara ry'umweru bigaragara ko ari ikaragiro ry'amata, mo imbere hakaba harimo igikoresho cyagenewe kubika amata neza, kikaba cyanditseho indasitirizi limitedi mu ibara ry'umweru n'ubururu, imbere yaho hakaba hari igikoresho cyagenewe kubika andi mata ari mu tubuni cyangwa se mu tujerekani.

Terefone mu kirahure harimo amabara atandukanye yaba icyatsi ndetse n'umweru mu ibara ry'icyatsi hakaba handitsemo ijambo mezi ryandikishije amabara y'umukara ndetse hejuru ya terefoni hakaba hari ijambo sipenii ndetse hasi hakaba hari ijambo dipoziti nawu byanditse mu ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi.

Inzu isize irangi ry'umuhondo, hanze hakaba hari abantu batandukanye, yaba umugabo wambaye ishati y'umukara, imbere ye hakaba hari umusore wambaye agapira k'umweru karimo uturongo ndetse hakaba hari n'undi mu muma wifashe mu gatuza.

Umumama wishimye, wambaye ikanzu irimo ibara ry'umuhondo ndetse n'imirongo y'umukara n'umweru, ufite telefone mu kaboko k'iburyo, ndetse ku ruhande rw'ibumoso rwe hakaba hari n'umupapa wishimye na we, hasi hakaba handitse ijambo sipenini cyangwa se sangiza abandi ibyiza bya sipenini.

Urupapuro ruri mu ibara ry'umweru banwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ati b igice kigenewe ibiranga ba nyir'ubutaka hakaba handitseho nimero ya nyir'ubutaka, itariki nimero n'icyemezo biri mu ibara ry'umukara ndetse hariho n'ikirangantego cy'igihugu.

Urupapuro ruri mu ibara ry'umweru rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara hakaba handitseho yato ndetse n'apuruvudi bayi umuhoza rita sandirine akitingi manajimeti dayiregita hakaba hateyeho kashe ndetse na sinyatire cyangwa se umukono w'uwabikoze.

Amafaranga menshi atandukanye, yanditseho ero, ari mu ibara ry'umweru, ndetse n'irindi bara rijya gusa umukara, hakaba hashushanyijeho inzu, akaba ari amafaranga atandukanye, atanu, icumi, makumyabiri, mirongo itanu, ijana ndetse na magana abiri, ateretse ku butaka.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu wambaye isaha mu kaboko ke k'ibumoso, akaba yambaye n'impeta mu kaboko k'iburyo akaba uteruye amafaranga menshi yanditseho yanditseho dizaya banki ofu indiya fayive handeredi, ashushanyijeho inzu yanditseho amafara magana atanu.

Amafaranga y'igihugu atandukanye inoti ziri mu gaciro gatandukanye, yaba inoti amafaranga makumyabiri, inoti y'ama amafaranga mirongo,, itanu inoti y'amafaranga ijana inoti y'amafaranga magana abiri, ndetse n'inoti y'amafaranga magana atanu, yanditseho banki santarare di kongo bigaragare ko ari amafaranga yo muri kongo.

Inzu ihagazerimo abantu batandukanye harimo icyapa cyanditseho Prime Tours and Travel kiri mu ibara ry'ubururu ndetse hakaba hari n'amatara ari kwaka icyatsi ndetse n'umweru. Hakaba harimo intebe gusa bigaragara ko iyi nzu bashobora kuyifashisha bagakoreramo ibijyanye n'ivunjisha ry'ifaranga mu gihugu.

Inzu iri mu ibara ry'ubururu hakaba hamanitseho icyapa kiri mu ibara ry'umweru kikaba cyandikishijeho ibara ry'umukara ati:'' Gira neza." Ndetse kikaba cyanditseho irindi jambo foregisi biro bigaragare ko ari ahantu bavunjishiriza cyangwa se inzu y'ivunjisha.

Inzu ifite inzugi cyangwa se imiryango iri mu ibara ry'icyatsi ndetse hakaba hamanitseho ibyapa biri mu ibara ry'umweru, umuhondo ndetse n'icyatsi hakaba handitseho mani taransifa andi foregisi biro bigaragara ko ari inzu y'ivunjisha mu imbere hakaba harimo umuntu uhagaze harimo n'ibyapa bigiye bitandukanye.

Inzu bigaragara ko harimo amatara y'ubururu, harimo igikoresho bakunze kwita ravabo bifashisha mu gihe bari gusukura amasahani, gusukura ibikombe cyangwa se ibindi bintu bitandukanye, mu gikoni hakaba hateretse na buji hejuru bicanye.

Inzu Isize irangi ry'umweru mw'imbere hakaba harimo ameza n'intebe bakunze kwifashisha nko muri saro cyangwa se saro ntoya mu gihe bagiye kurya ndetse mu gihe bagiye gukoreraho ibintu bitandukanye bitarinze kujya muri saro nkuru.

Amazi yo kogeramo cyangwa se amazi bakoresha mu gihe bagiye kuruhuka bakunze kwita pisine, hirya yaho hakaba hari intebe cyangwa se udutebe abantu bicaraho igihe bavuye mu mazi ndetse hakaba hari n'udutaka tubarinda izuba ndetse hakaba hari n'ibitanda bimeze nk'inte biri mu ibara ry'umutuku.

Inzu y'igorofa igeretse inshuro zirenga eshanu, iri mu ibara ry'umuhondo, ikaba yanditseho ijambo emu cyangwa se mariyoti riri mu ibara ry'umutuku cyangwa se mu ibara ritukura, hanze hakaba hateye ibiti bitandukanye cyangwa se indabo.

Ni inzu ndende y'amadiparitoma yubatse neza, munsi yayo harimo imodoka ziparitse imodoka esheshatu ndetse kuri iyo nzu ifite ibirahuri by'ubururu handitseho sanirama areyayisi ndetse iyo nzu ikaba ni ndende cyane mu buryo bugaragara.

Inzusi isize irangi ry'umuhondo ndetse ikaba imanitseho icyapa hejuru kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, wanditseho Prime insurance, Nyamirambo branch, ikaba ifite imiryango cyangwa se inzugi ziri mu ibara ry'icyatsi.

inzu iri mw'ibara ry'umweru, harimwo amakaro ari mw'ibara ry'umweru, hateretsemwo intebe ziri mw'ibara ry'umukara, inzugi akaba ari umweru ndetse hakaba harimo n'ikirahure ndetse inyuma y'intebe hakaba hari ibishushanyo bimeze nk'imigogongo cyangwa se ibikoresho bakoreshaga muri gakondo.

Inzu ifite amatara y'umweru hajuru ifite amakaro hasi y'umweru ndetse ikaba ifite inzugi cyangwa imiryango y'umukara ifite ibirahure bigaragare ko hano bashobora kuhakoresha nka ofisi cyangwa se aho abantu bahurira mu biro.

Inzu isize amarange y'umweru irimo abantu batandukanye nk'umugabo wambaye ingofero y'umukara, amadarubindi ndetse n'ishati y'umweru ufite telefone mu ntoki imbere ye hakaba hari ameza ateretseho amacuoa y'amazi ndetse n'ikarito, mu kuboko ku ibumoso ke hakaba hari umumama uri guseka wambaye ikoti ry'umutuku.

Inzu iri mu ibara ry'umweru n'ubururu, hanze hakaba hahagaze abadamu babatu, bambaye imipira y'umweru, bafite ibikapu cyangwa se amasakoshi ku rutugu, ndetse imbere yabo hakaba hari inzugi ziri mu ibara ry'umweru, ndetse n'icyapa hejuru, cyanditseho purayime, kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu, cyanditseho awuto makumyabiri na kane ndetse imbere yacyo hakaba haparitse imodoka, iri mu ibara ry'umutuku imbere yayo hakaba hari inzu y'igorofa yanditseho ziyoni inshuwarensi burokazi, ndetse hakaba hamanitseho n'ibishushanyo bitandukanye.

Umugabo wambaye umupira uri mu ibara ry'umukara, wambaye ipantaro iri mu ibara ry'umukara ndetse n'inketo z'umukara wicaye ku intebe ifite ibara ry'umweru, imbere ye hakaba hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'umumama wambaye umupira cyangwa se ishati y'icyatsi.

Umugabo uri guseka wambaye umupira uri mu ibara ry'umutuku, ipataro y'umukara ndetse n'inkweto ziri mu ibara ry'umweru hasi hakaba hari ibikarito biri mu ibara ry'icyatsi byanditseho bake popireri mobiyire bakingi izi kashi otometidi netiwaka ndetse hejuru hakaba handitse simbuka.

Umukobwa uri guseka wambaye ikanzu iri mu ibara ry'icyatsi, wambaye isaha ku kaboko k'ibumoso, akaboko k'iburyo kakaba gafashe ikarita bifashisha igihe bagiye kubikuza, imbere ye hakaba hari cya cyuma bifashisha mu gihe bagiye kureba amafaranga kuri banki.

Umudamu uri guseka wambaye isarubeti cyangwa se umwambaro w'akazi, ndetse mu ruhande rw'iburyoba bwe hakaba hari amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi n'ubururu n'umweru ati:'' bipiyara cyangwa se banke wayi cuze bipiyara anisekiyuwa roni Mu ibara ry'umuhondo ndetse imbere hakaba hari ibicuruzwa bitandukanye.

Umudamu wambaye ingofero iri mu ibara ry'umuhondo akaba yambaye umwambaro uri mu ibara ry'ubururu, ipantaro iri mu ibara ry'ubururu, akaba ateruye agasanduku mu kuboko kw'iburyo kari mu ibara ry'ubururu, inyuma yakaba hari urugi cyangwa se umuryango uri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ikimashini bifashisha bubaka.

Umusore uri guseka, wambaye ishati y'ubururu, karavate y'umutuku irimo uturongo tw'umweru, imbere ye hakaba hari umugabo uri kumwereka urufunguzo wambaye ishati y'umweru, iruhande rw'ibumoso hakaba hari umukobwa uri guseka wambaye agapira k'umweru ndetse n'ikoti ry'umukara.

Urupapuro cyangwa se urwandiko ruri mu mabara y'umweru rwanditseho amagambo atandukanye ari mu mabara y'umukara rushobora kuba rugaragaza inguzanyo kuko ruba rwanditseho interesiti, sheke fizi penariti, ishuwarensi, seti ofu sekiriti ndetse na indemuniti.

Umumama wambaye ipantaro iri mu ibara ry'umukara, imbere ye hakaba hari intebe ya purasitike iri mu ibara ry'umweru, mu kuboko kw'ibumoso kwe hakaba hari imyenda igiye itandukanye y'abadamu, yaba ari amakanzu, amajipo ari mu mabara atandukanye, ndetse akaba ari kureba hejuru, bisa nkaho agiye kugura.

Inzu irimo ibikoresho bitandukanye haba harimo uduseke, imifuniko y'uduseke bakunze gukoresha nk'ibikoresho bya kera cyangwa se iby'umuco nyarwanda bagakunze kubikoresha mu rusengero ndetse n'ahandi hantu mu gihe bajyanye impano ahantu hatandukanye ndetse akaba ari ibikoresho byiza cyane bakoresha nk'imitako mu rugo.

Umu mama uteze igitambaro, uteruye akabase kari mw'ibara ry'ubururu, hakaba harimo imbuto nk'imineke. Imbere ye hakaba hari ibase iri hasi, irimo imbuto nk'imineke ndetse imbere y'iyo base, hakaba hari undi muntu cyangwa se umu mama ufite imbago mu kaboko k'ibumoso, usa nkaho ategereje guhaha.

Umudamu wambaye igitambaro kiri mu ibara ry'umutuku, wambaye ishati, ndetse n'igitenge cyiganjemo amabara atandukanye yab'icyatsi ndetse muburyo bwe hakaba hateretse akabati cyangwa se ameza ateretseho intoryi, itomate, karoti ndetse n'ibikarito birimo ibintu byinshi.

Abasore babiri bahagaze ndetse hakaba hicaye undi muntu wifashe ku itama, aho hafi nyuma yabo hakaba hari isoko ahantu hamanitse imyenda, ndetse bikagaragara ko ari ahantu bacururiza imyenda igitandukanye n'inkweto zitandukanye ndetse n'ingofero cyangwa se inkweto nyinshi zifunguye ndetse n'izifunze.

Umudamu wambaye igitenge, uteruye akabase kuzuye itomati, ndetse mu buryo bwe hakaba hari undi mudamu ufite agafuka bigaragara ko aje guhaha, hasi hakaba hateretse itomati, insenda, intoryi, ndetse hakaba huzuye n'abandi bantu benshi mu isoko.

Inzu imeze nk'isoko bahahiramo cyangwa se iduka, harimo ibicuruzwa bitandukanye yaba ibishyimbo, ingano, amashaza, ibijumba, imyumbati ndetse n'indagara bigaragare ko hari abacuruzi bagiye kubicuruza ndetse hirya yaho hakaba hari ibihazi.

Akazu ka Emutiyeni kari mu ibara ry'umuhondo, gatanga serivise zitandukanye, yaba kubitsa, kohereza, ndetse nokugura amayinite, hahagaze ho abantu babiri, umusore uri guseka wambaye umupira w'umuhondo n'isaha y'umukara, ndeste iburyo bwe hakaba hari umukobwa nawe wambaye umwambaro wa Emutiyene.

Akazu kari mu ibara ry'umutuku, kanditseho eyateri foji, gatanga serivisi zitandukanye yaba kubitsa, kohereza, kugura ama inite ndetse no kugurisha ama inite, Kanditse ho pata furi data endi myunite hiya, ndetse bakagakoresha batanga serivisi zitandukanye, mo imbere hakaba harimo abakozi ba eyateri.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho MTN, gatanga serivisi zitandukanye yaba kubitsa, kubikura, kohereza, kugura amayinite ndetse no kugurisha amayinite, mo imbere hakaba hahagazemo umugabo ufite bike mu ntoki cyangwa se ikaramu mu ntoki, imbere ye hakaba hari n'amakayi cyangwa se impapuro.

Umuntu wicaye usa nk'uri gutanga serivise azihereza abantu batandukanye, usa nk'uri kuzihereza abantu batandukanye ndetse hari abantu batatu ndetse hari n'undi uri kumwereka terefone usa n'aho ari kumwereka esemesi, utanga serivise akaba yicaye, imbere ye hari ibintu by'umukara, mashini.

Abagabo babiri bari kubyina umwe wambaye umupira uri mw'ibara ry'umweru n'ipantaro iri mw'ibara ry'umweru ndetse n'inkweto y'umweru, mu kuboko kw'iburyo kwe hakaba hari umukobwa wambaye agatambaro k'umuhondo mu mutwe ndetse n'icyapa cyanditseho izihirwe wivu yolo bigaragara ko ari emutiyeni iri gukorera ahongaho.

Akazu ko mu ibara ry'umuhondo, kanditseho mobayilo mani, taransifa, emutiyeni mu ibara ry'umweru, umuhondo ndetse n'ubururu, gakunze gutanga serivisi zitandukanye, kubitsa, bukikura, kohereza ndetse no kugurisha amayinite, hakaba hahagazeho umumama ufite isakoshi ku kabako.

Ni akazu ka emutiyene gasa nk'agatanga serivisi zitandukanye, kubitsa, kubikuza, kohereza amafaranga ndetse no kukubaruraho simukadi ukanayihagurira ndetse ndabonamo abanyeshuri babiri bahetse ibikapu, umwe ahetse igikapu cy'umukara undi ahetse igikapu cya guci, yambaye ishati y'umweru, hirya hari undi mugabo ugaragara nk'uwambaye ishati y'icyatsi.

Umudamu wambaye umwambaro uri mu ibara ry'umuhondo, ufite terefone mu ntoki imbere ye hakaba hari akameza cyangwa se ahantu hari ibikoresho bitandukanye yaba amaterefone mu buryo bwe hakaba hari undi mukozi wa emutiyene wambaye umwambaro w'umuhondo ndetse imbere y'uwo musore hakaba hari undi musore wambaye isengeri iri mu ibara ry'umukara.

Icyapa cya emutiyeni kiri mu ibara ry'umuhondo, cyanditseho emutiyene momo. Ishyura na momo peyi, mu ibara ry'umukara, kigaragaza izina ry'umucuruzi, ndetse na kode y'umucuruzi ugiye kwishyuraho amafaranga.

Inzira iri mu ibara ry'umuhondo yanditseho emutiyene, bikaba byanditseho na momo mu ibara ry'ubururu ndetse hakaba hariho n'icyapa cya emutiyene, hasi hakaba hateretse bafure cyangwa se igikoresho kiyugurura amajwi.

Inzu iri mu ibara ry'umuhondo yanditseho MTN Rwanda Leading Network, itanga serivisi zitandukanye, yaba kohereza , kubikuza, kubitsa ndetse n'amayinite, hanze hakaba hahagaze abantu batandukanye, bakeneye serivisi zitandukanye.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo gitangwa na MTN cyanditseho pay with momo pay kigaragaza kode ndetse n'amazina y'umuntu ugiye koherereza amafaranga kugira ngo utayayobya, kuruhande hakaba hari ikindi cyapa cyanditseho kabode.

Umuntu wambaye umupira uri mu ibara ry'umweru uhetse agakapu karimo ibara ry'umukara, ufite telefone yanditsemo momo mu kirahure ndetse bikaba byandikishije ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, ndetse imbere ye hakaba hari ibindi bikoresho byo kwifashisha.

Umuntu wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro isa ubururu, uhagaze ku kazu ka emutiyeni karimo ibara ry'umuhondo, gatanga serivise zitandukanye: yaba kubitsa, kubikura koherereza ndetse no kohereza ama inite, bisa nk'aho ategereje serivise zitandukanye.

Akazu ka emutiyene kari mu ibara ry'umuhondo, gatanga serivise zitandukanye, yaba kubitsa, kubikura, kohereza ndetse no kugura ama inite. Harimo umuntu wambaye umupira w'umukara, bigaragara ko ariwe uri gutanga serivise ku bantu bahagaze hanze y'ako kazu.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'imirongo, uhagaze ku kazu ka emtiyeni cyangwa se ku mutaka wa emutiyeni, utanga serivise zitandukanye, yaba kubitsa, bubikura ndetse no kohereza, bigaragare ko abakozi ba emutiyeni bahagaze ari batatu, bakeneye kumufasha.

Inzu iri mu ibara ry'umuhondo yanditseho mtn mu ibara ry'umweru, umuhondo ndetse n'ubururu, ndetse ikaba ihagazeho abantu batandukanye yaba umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu bita ikoboyi , imbereye hakaba hahagaze abantu bambaye imipira y'umuhondo b'abakozi ba mtn.

Umuntu wambaye ipantaro iri mu ibara ry'ubururu, ufite agakapu kunda kari mu ibara ry'umukara ndetse akaba afite telefone yo mu ibara ry'umukara, ahanditsemo mu kirahure mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, handitsemo opusi ani era akuwadi ndetse bigaragara ko ari gukanda ibintu bitandukanye muri telefone.

Akazu kubakishije imbaho bigaragara ko gatanga serivise zitandukanye, hejuru hariho icyapa cyanditseho ekwiti ajenti, irembo, onilayini savisi limitedi, mo imbere hakaba harimo abantu batatu, bigaragara ko aribo bafasha abakiliya ndetse hasi hakaba hariho ibimenyetso by'imigongo

Icyapa cya MTN kiri mu ibara ry'umuhondo cyanditseho kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri gatatu urwego code, kigaragaza code y'umuntu ugiye kwishyura ndetse n'amazina y'umuntu ugiye kwishyura amafaranga.

Umupapa wambaye umupira wiganjemo ibara ry'umweru n'uturongo tw'umukara, ufite ikaramu mu kuboko kw'iburyo, ndetse akaba afite n'ikarita ya emutiyene mu kuboko kw'ibumoso, imbere ye hakaba harambise amakayi na telefone, ndetse n'umukiriya yiteguye gufasha.

Akazu karimo ibara ry'umutuku kanditseho kokakola, imbere y'ako hakaba hahagaze abantu babiri, umwe wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'uwambaye ikoti n'ijipo cyangwa se ikanzu y'umukara.

Akazu ka emutiyene kari mu ibara ry'umuhondo gatanga serivise zitandukanye kubitsa, kubikura, kohereza ndetse kugura amayinite, kakaba kanditseho emutiyene ndetse n'ibiti bikari inyuma n'ibyapa biharagaza amerekezo.

Abapapa babiri bambaye imipira iri mu ibara ry'umuhondo yanditseho emutiyene bigaragara ko ari bakozi ba emutiyene, inyuma yabo hakaba hari umutaka wanditseho emutiyene everi weya yu go, uri mu ibara ry'umuhondo ndetse hakaba hari n'abantu batandukanye.

umugabo wambaye umupira uri mu ibara ry'icyatsi, inyuma ye hakaba hari intebe ziri mu ibara ry'umweru, imbere ye hakaba hari mudasobwa ebyiri ziri mu ibara ry'umukara ndetse n'icyapa cyangwa se ikimenyetso kiri mu ibara ry'umuhondo kimanitseho terefone, yanditseho akanyenyeri ijana na mirongo ine akanyenyeri urwego.

Umumama uri guseka ufite imisatsi y'umukara, wambaye ikanzu iri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umutuku, inyuma ye hakaba hari icyapa cyanditse ho Emutiyene, kiri mu ibara ry'umuhondo, ndetse n'imodoko y'umukara, ndetse n'imbere yiwe hakaba hari umugabo ufite telefone ndetse na kamera.

Icyapa cya emutiyene kiri mu ibara ry'umuhondo n'umweru cyanditseho goti tu peyi kigaragaza nimero ndetse n'amazina y'umucuruzi ugiye kohereza amafaranga, kikaba cyanditseho na emutiyene hasi mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu n'umuhondo.

Akazu ka MTN kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho send money, gatanga serivisi zitandukanye, yaba kubitsa, kohereza, kugura amiyinite ndetse no kugurisha amayinite, hakaba hahagaze umugabo wambaye ikoti ry'umukara ndetse mo imbere hakaba harimo umudamu cyangwa se umukobwa ndetse n'umusore.

Akazu ka emutiyeni kiganjemo ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, batanga serivise zitandukanye, yaba kubitsa, kubikuza, kohereza, cyangwa amayinite, hanze yaho hakaba hahagaze abantu batandukanye, yaba umupapa wambaye umupira w'umweru, ndetse n'undi mu papa uri ibumoso bwe wambaye ishati itukura.

Mesaje iri mu ibara ry'umukara ryanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umweru bakoherereza mu gihe ugiye koherereza umuntu amafaranga ndetse bakakwereka n'ikiguzi bari buguce, ukahita ushyiramo umubare w'ibanga ndetse hasi hakaba handitse ijambo kansa, ndetse hakaba handitse mu buryo bw'iburyo ati "sendi".

Telefone iri mu ibara ry'umukara yanditseho iyi yu mu kirahure akaba ari mu ibara ry'ubururu handitsemo mt telefoni hakaba ari icyapa cya emutiyeni kiri mu ibara ry'umuhondo kigaragaza amazina y'umuntu ugiye kohereza amafaranga ndetse na kode ndetse mu ruhande rw'ibumoso hakaba ari amagaze cyangwa se ahantu babikamo amacupa y'inzoga cyangwa se ibyo kunywa bitandukanye.

Umudamu wambaye umupira wiganjemo ibara ry'umuhondo n'ubururu wanditseho ishyura ukoresheje momo, wambaye isaha ku kuboko kw'iburyo imbereye hakaba hari umusore ufite telefone mu noki wambaye umupira w'umukara ndetse n'ingofero.

Umugabo uri guseka wambaye ishati y'umukara n'ipantalo y'umukara wambaye umupira uri mu ibara ry'umuhondo wanditseho emutiyeni, inyuma ye hakaba hari umtaka wa emutiyeni bigaragare ko harimo umukobwa ucuruzamo amayinite ndetse n'undi mukobwa wambaye umupira w'icyatsi.

Akazu kari mu ibara ry'umutuku, kanditseho eyateri gatanga serivisi zitandukanye, yaba kohereza amafaranga, kubitsa, kubikura, ndetse hakaba hahagaze mo umugabo wambaye ingofero iri mu ibara ritukura ndetse n'umupira uri mu ibara ritukura bisa nk'aho ari umukozi wa eyateri.

Umuntu ufite terefone yo mu ibara ry'umukara mu kirahure handitsemo ijambo ishyura magana atanu megabayiti magana inani, ukoresheje inite cyangwa momo, gusubira inyuma ndetse dizimisi mu ibara ry'umweru ndetse na repureyi mu ibara ry'umukara.

Akazu ka emutiyene kari mu ibara ry'umuhondo kandikishije amagambo ari mu ibara ry'umukara, gatanga serivise zitandukanye yaba kubitsa, kubikura, kohereza ndetse no gutanga ama inite. Kakaba kari ku muhanda ahegereye icyapa cyangwa se ipoto.

Umupapa wambaye umupira uri mu ibara ry'umuhondo, ufite telefone y'umukara mu kuboko kw'iburyo ndetse akaba yambaye n'isaha mu kuboko kw'iburyo ndetse imbere ye hakaba hari undi mupapa wambaye umupira w'umukara ndetse akaba afite n'igare riri mu ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo, inyuma ye hakaba hari icyapa cya emutiyeni.

Umupapa wambaye umwambaro wiganjemo ibara ry'umweru ndetse n'umukara, akaba yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto y'umukara, imbere ye hakaba hari abakozi ba emutiyeni bambaye imyambaro y'umuhondo, ndetse hakaba hari na mudasobwa, ndetse mu buryo bwe hakaba hari umumama uhagaze, wambaye ikanzu cyangwa se ijipo y'umukara.

inzu iri mu ibara ry'umuhondo n'umukara yanditseho yero ya emutiyene itanga serivisi zitandukanye yaba ari ukubitsa kubikura kohereza ndetse n'amanite hakaba hahagaze umu polisi cyangwa se umusekirite wambaye imyenda y'ubururu cyangwa se umukara ndetse hakaba hari n'amabafure cyangwa se amasupika yo kwifashisha mu birori.

Umuntu wambaye ishati itukura ijipo y'umukara ufite terefone mu ntoki, uhagaze ku kazu ka MTN gatanga serivise zitandukanye k'umuhondo, inyuma ye hakaba hari umusore uhetse igikapu ndetse n'umupira w'umweru.

Umusore wambaye umupira w'umukara wambaye n'amadarubindi arimo ara control kuri mudasobwa, imbere ye hakaba hari umugabo ufite telefone ndetse wambaye n'ishati y'umutuku ndetse hakaba hari n'umusore wambaye ingofero y'umukara.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo gatanga serivise zitandukanye yaba kubitsa, kubikura, kohereza ndetse no kugurisha amayinite kanditseho mobayiromani taransifa emutiyene ndetse hakaba hahagazeho umumama ufite isakoshi cyangwa se igikapu mu ntoki.

Akazu ka emutiyene kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho emutiyene, gatanga serivise zitandukanye yaba kubitsa, kubikura, kohereza ndetse no kugura ama inite. Hakaba harimo umuntu wambaye isaha ku kaboko k'ibumoso ndetse ari kumwe n'uwundi mumama wambaye umupira utukura.

Icyapa cya MTN kiri mu ibara ry'umuhondo, cyanditseho "Ishyura na MoMo pay", kikwereka imibare uribukande, mbere y'uko ushyiramo kode y'umuntu ugiye koherereza amafaranga, ndetse kikakwereka kode y'umuntu ugiye koherereza amafaranga. Ndetse kandi hakaba handitseho "Nta yandi mafaranga wishyuzwa, igihe woherereje uwo umuntu amafaranga".

Umugabo wambaye umupira uri mu ibara ry'umukara, wanditseho polise mu ibara ry'umweru, uhagaze ku kazu ka emutiyene kari mu ibara ry'umuhondo, gatanga serivise zitandukanye, yaba kubitsa, kohereza, kugura amayinitse, ndetse no kugurisha amayinite. Mu kuboko kw'iburyo kwe hakaba haparitsemo cyangwa se hari amakarito ari mu ibara ry'ubururu.

Akazu kari mu ibara ry'umweru n'umutuku kanditseho eyateri, gatanga serivisi zitandukanye yaba kubitsa, kubikura, kohereza, ndetse no kugura amayinite kakaba karimo utubati twanditseho eyeteri turimo amaterefone atandukanye ndetse m'uburyo bwako hakaba hari ikindi cyapa kiriho abakobwa babiri bari guseka bari kureba muri terefone.

Abagabo batatu bambaye imipira y'umuhondo yanditseho mbaza kuri ayoba bambaye ingofero z'umukara ndetse n'amapantaro y'umukara bari imbere y'icyapa cya emutiyeni mu ibara ry'umuhondo cyanditseho ayoba mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Inzu iri mu ibara ry'umuhondo yanditseho emutiyeni, itanga serivise zitandukanye yaba kubitsa, kohereza ndetse no kubikuza, imanitseho igishushanyo kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umupapa n'umwana biri mu ibara ry'umuhondo.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho emutiyene, kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri. Gatanga serivise zitandukanye yaba kubitsa, kubikura, kohereza ndetse no kugurisha ama inite. Inyuma yako hakaba hari ibiti ndetse n'amapoto imbere yako.

Akazu k'umuhondo kanditseho emutiyene gatanga serivise zitandukanye yaba kubitsa, kubikura, kohereza ndetse no kugurisha ama inite. Mu imbere hakaba harimo umuntu ufite amafaranga wambaye umupira w'umukara ndetse hanze hakaba hahagaze umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara.

Icyapa Kiri mu ibara ry'umuhondo n'umweru, cyanditseho MTN momo peyi, kigaragaza amazina y'umuntu ugiye kwishyura, cyangwa se kode ugiye kwishyura, kugirango utayobya amafaranga cyangwa se mugihe uri kugura igicuruzwa cyangwa se ugurisha igicuruzwa.

Icyapa cya MTN kiri mu ibara ry'umuhondo, cyanditseho "pay with MoMo here", kigaragaza amazina y'umucuruzi ugiye koherereza amafaranga ndetse na kode yiwe kugira ngo utaza kuyobya amafaranga, iki cyapa giherezwa abacuruzi ndetse n'umuntu wifuza gukoresha MoMo Pay.

Umutaka wa emutiyene uri mu ibara ry'umuhondo, ukoreshwa n'umukozi wa emutiyene wemewe n'amategeko ndetse nundi mutaka uri mu ibara ry'ubururu ndetse hakaba hahagaze n'abagabo batandukanye ndetse n'abadamu batandukanye. Harimo umusore ufite ikayi ndetse n'umukobwa wambaye ikanzu y'ubururu.

Umumotari wicaye kuri moto wambaye kasike itukura, inyuma akaba ahetsa akabogisi cyangwa se agakarito kanditseho rashifuduzi, bigaragare ko hari ahantu agemuye ibyo kurya ndetse moto ikaba ifite ibara ry'umutuku, ndetse n'umukara imbere yiwe ku ruhande rw'iburyo akaba ari kumwe n'umwajenti wa emutiyene wambaye umwenda w'umuhondo.

Inzu irimo mudasobwa ebyiri, imwe ifite ikirahure cyanditseho solasi izi nawu Sanilamu, mu ibara ry'umweru n'ubururu, indi ikaba ifite ikirahure cyanditseho operesheni, mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru, ndetse hakaba harimo ibyangombwa bya emutiyeni cyangwa se utwapa twa emutiyeni, tugaragaza kode y'umucuruzi.

Umupapa ufite telefone mu kuboko kw'iburyo, mu kukobo kw'ibumoso hakaba harimo ikarita bakoresha bishyura, ndetse imbere ye hakaba hari imbuto zitandukanye, no mu kuboko kw'iburyo kwe hakaba hari akazu cyangwa se umutaka wa tigo ndetse na eyateli.

Akazu ka Emutiyeni kari mu ibara ry'umuhondo, gatanga serivise zitandukanye yaba kubitsa, kubikura ndetse no kohereza, hakaba harimo umukozi wa Emutiyeni wambaye agapfukamunywa k'umukara, ndetse n'umuntu uhagaze wambaye ingofero y'umukara n'agapfukamunywa k'umweru, ufite telefone y'umukara.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo cyanditseho emutiyene momo, kigaraga amazina y'umuntu ugiye kwishyura ndetse na kode ugiye kwishyura kugira ngo utaza kuyobya amafaranga. Gitangwa na emutiyene ndetse haba handitseho haba handitseho izina ry'umucuruzi ugiye koherezaho ayo mafaranga.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho mtn gatanga serivisi zitandukanye yaba; kubitsa kubigura, kohereza, kugura, amayinite ndetse n'ibindi hakaba hahagaze abantu batatu bambaye umupira w'umukara ndetse nundi mugabo wambaye umwambaro bita ikoboyi.

Umupapa wambaye umupira wiganjemo ibara ry'umuhondo n'ubururu, wanditseho peyi wifu momo, wambaye ingofero yiganjenjemo ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu yanditseho momo, akaba yambaye udukomo mu kuboko kwiburyo ndetse mu kuboko kwe kw'ibumoso hakaba hari umumama wambaye umupira w'umukara ufite tererfone.

Akazu ka emutiyene kari mu ibara ry'umuhondo, kanditseho mobayiromani gatangirwaho serivisi zitandukanye zaba izo kubitsa, kubikuza ndetse no kugura amayinite hahagazemo abamama babiri umwe wambaye umupira w'umutuku n'undi wambaye isaha ku kaboko.

Umugabo wambaye umupira wiganjemo ibara ry'ubururu n'umuhondo, wanditseho Emutiyene bigaragare ko ari umukozi wa Emutiyeni, wambaye isaha y'umukara ku kaboko k'ibumoso urimo araganira n'undi mugabo uri mu modoka y'umukara, ishushanyijeho icupa ryanditseho finirandi.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo gatanga serivise zitandukanye, yaba kubitse, kohereza, kubikuza ndetse no kugurisha amayinite, hakaba hahagazemo umuntu wambaye umupira urimo uturingo tw'umweru ndetse n'umukara, bigaragara ko ari umukozi wa emutiyene utegereje abakiliya ndetse hanze hakaba hari n'inzu nyinshi.

Akazu kari mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru ka Eyateri mani, gakoresha muri serivise zitandukanye kubitsa, kubikura, kohereza ndetse no kugurisha amayinite, imbere yako hakaba hari umuntu wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'abandi bantu begereye imdoka iri mu ibara ry'umweru.

Umutaka wa Emutiyene uri mu ibara ry'umuhondo, wanditseho Emutiyene, munsi hakaba harimo umusore wambaye umupira w'umweru, ndetse n'ingofero iri mu ibara ry'umuhondo yandutseho Emutiyene, imbere ye hakaba hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'umukobwa wambaye umupira w'ubururu, uteze igitambaro cy'umweru.

Abakobwa batatu bambaye imipira iri mu ibara ry'umuhondo, bambaye amabaje cyangwa se ikarita y'akazi iri mu ibara ry'icyatsi, yanditseho TMN, ndetse bikaba bigaragara ko ari abakozi ba MTN, imbere hakaba hari icyaba cyanditseho wikwisongeka, ndetse n'umumama uhagaze ahongaho ukeneye serivisi.

Umudamu wambaye umupira uri mu ibara ry'umweru n'umuhondo wanditseho emutiyene, imbere ye hari abantu benshi bafite terefone ndetse n'amakayi, ndetse hakaba hari n'ameza ateretseho amazi gusa bigaragare ko ari kubafasha serivise zitandukanye.

Akazu ka emutiyeni kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho emutiyeni kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri urwego gatanga serivise zitandukanye, yaba kubitsa kubikura ndetse no kohereza amafaranga ndetse no kugura amayinite, inyuma yaho hakaba hari ibiti.

Umumotari wambaye kasike y'umukara, ndetse n'umupira w'ubururu, w'imbeho, umugabo uri guseka, wamabye umupira w'umuhondo, wanditseho peyi wivu momo peyi, umudamu usutse, wamabye umupira w'umuhondo, ndetse n'umugabo wambaye ishati y'umweru.

Umudamu uri kugenda wambaye ikanzu ndende uteruye ama anverope mu ntoki, wambaye amadarubindi ndetse n'isakoshi mu ntoki. Ibumoso bwe hakaba hahagaze abagabo bambaye imipira y'umuhondo ndetse n'amapantaro y'umukara bigaragara ko ari abakozi ba emutiyene.

Akazu ka emutiyeni kari mu ibara ry'umuhondo gatanga serivise zitandukanye, yaba kubitsa, kubikura, kohereza ndetse no gutanga amayinite, akaba hahagaze umugabo wambaye umupira w'umukara urimo uturongo tw'umweru, bisa nkaho ategereje serivise ziri buturuke muri iyo nzu.

Umupapa wambaye ishati y'umweru, imbere ye hakaba hari mudasobwa iri mu ibara ry'umukara, iteretse kumeza, ndetse n'umumama wambaye umupira w'umuhondo n'umweru wanditseho MTN, bisa nkaho ari kumufasha serivise, ndetse n'amatara ari kwaka hejuru y'umweru.

Akazu ka emutiyene kari mu ibara ry'umuhondo, kandiditseho emutiyene mobayiro mani mekingi layife iziya ndetse kakaba gatanga serivisi zitandukanye yaba kubitsa, kohereza, kubikura ndetse no kugurisha amayinite, inyuma y'ako hakaba hateye mu biti by'imikindo cyangwa se ingazi.

Umugabo wambaye umupira uri mu ibara ry'umweru n'umuhondo wanditseho emutiyene, bigaragara ko ari umukozi wa emutiyene, imbere ye hakaba hari ameza ateretseho ingofero ndetse n'imipira iri mu ibara ry'umuhondo yanditseho emutiyene, inyuma ye hakaba hari icyapa cyangwa se umutaka w'umuhondo wanditseho emutiyene.

Umuntu wambaye umwambaro w'umweru n'imisatsi y'umukara uri mu kazu k'umuhondo bigaragara ko atanga serivise zitandukanye, imbere ye hari amakarito menshi atandukanye y'ubururu ndetse n'umuhondo kandi imbere ye hakaba haparitse amamodoka y'ubururu, ndetse n'umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'inyuma ye hakaba hari umugabo wambaye ishati y'icyatsi.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo, cyanditseho emutiyeni, evuriweya yu go, ndetse n'amatelefone yanditseho emutiyeni, ndetse n'abagabo bahagaze, bambaye amakoti, bisa nk'aho batanga serivise za emutiyene.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'umuhondo umupira w'umuhondo wanditseho emutiyeni ufite terefone mu ntoki n'agapapuro mu ntoki bisa nkaho ari kwishyura umumotari wambaye kasike y'icyatsi uri kuri moto ndetse n'ijire y'umutuku, inyuma yabo hakaba hari ibyatsi ndetse n'ibiti by'indimu.

Akazu ka emutiyeni kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho mokashi, emutiyeni mobayiro mani, gatanga serivise zitandukanye yaba kubitsa, kubikuza, kohereza, ndetse no gutanga amayinite kakaba gahagazeho abana batatu, ndetse n'umugabo uri inyuma wambaye umupira w'umweru.

Umudamu wambaye umwambaro wiganjemo ibara cy'umweru ndetse n'ubururu, ijipo cyangwa se ikanzu y'umukara, ndetse imbere ye hakaba hateretse amamashine bifashisha mu gukora serivise za emutiyeni, ndetse na telefone ku meza isize irangi ry'umweru, ndetse n'icyapa cyangwa se kigaraza kode y'umuntu ugiye kwishyura.

Abasore babiri bambaye imipira iri mu ibara ry'umuhondo ya emutiyeni itanga serivisi zitandukanye bisa nkaho bari gukanda kuri mudasobwa ebyiri ziri mui ibara ry'umweru ndetse n'umukara, ndetse imbere yabo akaba hari ameza ateretseho mudasobwa, n'undi mugabo bisa nkaho bari kumufasha serivisi wambaye ingofero n'umudamu wambaye umupira cyangwa se iribaya ry'icyatsi.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara uhagaze ku kazu k'umuhondo ka MTN gatanga serivise zitandukanye yaba kubitsa, kubikura ndetse n'amayinite, mo imbere harimo umuntu wambaye umwambaro w'umukara bigaragara ko agiye kumufasha serivise zitandukanye.

Umupapa wambaye umupira wiganjemo ibara ry'umuhondo w'umuzungu, bigaragara ko ari umukozi wa MTN, imbere hakaba hari undi mumuntu w'umuzungu wambaye umupira w'umukara, isakoshi y'umukara ndetse imbere hakaba hari Mudasobwa iri mu ibara ry'umukara.

Umupapa cyangwa se umugabo wambaye ishati iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo, uhagaze hanze akazu ka eyateri kari mu ibara ry'umutuku, ndetse no imbere hakaba harimo umugabo cyangwa se umukozi wa eyateri ufite umupira mu ibara uri mu ibara ritukura, wanditseho kokakora.

Umupapa wambaye umupira uri mu ibara ry'umuhondo wanditseho MTN, imbere ye hakaba hahagaze moto iri mu ibara ryumuhondo n'umukara ndetse inyuma ye hakaba hari imodoka ndetse n'icyapa cya MTN kiri mu bara ry'umuhondo.

Umuntu wambaye umupira uri mu ibara ritukura afite terefone mu kaboko k' iburyo, imbere hakaba hari ameza ateretseho karigatirise cyangwa se igikoresho bifashisha babara ndetse hakaba hari n' uwundi mugabo ufite terefone irimo ibara ry' umukara.

Umugabo urimo uruseka wambaye umupira wiganje mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru ufite telefone mu ntoki, imbere ye hakaba hari mudasobwa iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umugabo wambaye umupira w'umuhondo wanditseho Emutiyeni, ufite na terefone y'umukara mu ntoki.

Akazu ka emutiyene kari mu ibara ry'umuhondo gatanga serivisi zitandukanye yaba kubitsa kubikura, ndetse n'amayinite, kanditseho emutiyene momo hahagaze umukobwa wambaye umwambaro wa emutiyene ndetse n'umusore wambaye umwambaro wa emutiyene bigaragare ko ari abakozi ba emutiyene.

Akazu ka emutiyeni kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho diyo akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri gatanu urwego tusevu andi borowu wivu mo kashi onu emutiyeni mobayilo mani gatanga serivise zitandukanye yaba kubitsa kubikura kohereza ndetse no kugurisha amayinite.

Umukobwa wambaye umupira wiganjemo ibara ry'umuhondo n'ubururu wanditseho momo, peyi wifu momo itsi izi, ndetse akaba afite terefoni ebyiri mu kuboko kw'ibumoso, mu buryo bwe hakaba hari undi mugabo uparitse kuri moto wambaye umupira cyangwa se ikoti ry'umukara na terefone ku gutwi y'umukara.

Akazu ka emutiyene kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho mobile mone gatanga serivisi zitandukanye yaba kubitsa kohereza kubikura ndetse no kugurisha amayinite mw'imbere hakaba harimo abantu babiri, yaba umugore cyangwa se umudamu wambaye isaha y'umweru ku kaboko k'ibumoso ndetse nuwundi mugore wambaye umupira utukura.

Umuntu wicaye wambaye ipantaro y'ubururu, ufite terefone mu kirahure harimo ibara ry'umweru; bigaragara ko ari gkanda imibare. Akaba yambaye agakomo mu kuboko kw'ibumoso ndetse akaba afite n'inzara ndende.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo cya emutiyene, cyanditseho peyi wivi momo peyi mu ibara ry'umukara, diyo akanyenyeri ijana na mirngo itandatu na gatanu akanyeyeri gatatu urwego, kigaragaza kode y'umuntu ugiye kwishyura kugira ngo utaribuyobye amafaranga.

umukobwa wambaye umupira wibara ry'umuhondo wandikishijeho amagambo mw'ibara ry'umukara urimo araseka n'umugabo wambaye umupira w'icyatsi wanditseho opel n'akagofero bahagaze imbere yakazu ka mtn gacuruzama inite cyangwa se gatanga serivisi zitandukanye

Umupapa wambaye umupira uru mu ibara ry'umuhondo wanditseho emutiyene ndetse akaba afite telefone y'umukara mu ntoki ze ndetse imbere ye hakaba hari mudasobwa iri mu ibara ry'umukara ndetse hakaba hari n'umupapa ufite indi telefone mu ntoki wambaye umupira w'umukara ndetse n'umweru.

Umugabo uri kwerekana Telefone mukaboko k'iburyo, ufite anverope mukaboko k'ibumoso, wambaye isaha, ndetse wambaye n'umupira w'umutuku, ndetse akaba ahagararanye n'undi mugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ubururu, wanditseho payi wifu momo peyi, bigaragara ko ari umukozi wa MTN, akaba yambaye n'ingofero y'ubururu.

Akazu ka emutiyene cyangwa se umutaka wa emutiyene uri mu ibara ry'umuhondo wanditseho emutiyene utanga serivise zitandukanye, yaba kubitsa, kubikura, kohereza ndetse no gutanga amayinite, hanze hakaba hahagaze abantu batandukanye, iruhande rw'iburyo bwako hakaba hari akandi kazu kanditseho tekino kari mu ibara ry'ubururu.

Umusore wambaye umupira uri mu ibara ry'umukara akaba yambaye n'ingofero iri mu ibara ry'umukara imbere ye hakaba hari ikirahure ndetse hakaba harimo mudasobwa ziri mu ibara ry'umukara ndetse mu bumoso bwe hakaba hari undi mu mama uhagaze imbere y'uwo mu mama hakaba harimo umukozi wa MTN ufite mudasobwa witeguye kumufasha.

Umumotari wambaye kasike itukura, wambaye agapira kari mu ibara ry'umuhondo, wicaye kuri moto yiganjemo ibara ry'umukara n'umutuku, uhetse agakapu cyangwa se agasanduku kari mu ibara ry'umuhondo ndetse na oranje byanditseho poze derivari.

Abamotari bahagaze bambaye kasike zitandukanye yaba iri mu ibara ry'umutuku, umukara ndetse bakaba bahetse udusanduku cyangwa udukarito turi mu ibara rya oranje imbere yaho hakaba hari igipangu kiri mu ibara rya oranje cyangwa se cy'umuhondo.

Umusore cyangwa se umupapa wambaye ipantaro irimo ibara ry'umukara akaba afite igare mu ntoki ze riri mu ibara ry'umukara, akaba yambaye umupira uri mu ibara ry'icyatsi, akaba ahetse agasanduku cyangwa se igikapu cyiri mu ibara ry'icyatsi cyanditseho vuba vuba, imbere ye hakaba hari igipangu

Mudasobwa y'umweru, mo imbere handitsemo resitora, hejuru hakaba hari ibara ry'ubururu, ryanditseho kigure, akadomo, rwa, byandikishije mu ibara ry'umweru, ndetse hakaba hari na telefone yanditsemo fashoni, irimo inkweto z'umukara, bigaragare ko ari nk'icyapa kigaragara ibicuruzwa.

Umumotari wambaye umupira uri mu ibara ritukura, akaba ahetse agasanduku kari mu ibara ritukura, kanditseho rashifudu, ndetse akaba yicaye kuri moto mu ibara ritukura ndetse n'umukara imbere hakaba hari icyapa cyanditseho rashifudu yofu du delvari patena

Imyenda itandukanye imanitse yaba imyambaro y'umukara amashati imipira ari mu mabara atandukanye, ikaba imanitse bigaragare ko ari ahantu bacururiza imyambaro ndetse mu imbere hakaba harimo ibara ry'umweru ndetse n'itara riri kwaka.

Umuntu ufite mudasobwa imbere yiwe bigaragara ko ari kuyikanda ari kuyikoresha ndetse ikaba iteretse ku meza, hirya mu kuboko kw'iburyo kwe hakaba handitse ijambo webusayiti pulase egefinki izi riri mu ibara ry'umweru bikaba bimanitse ku cyapa kiri mu ibara ry'icyatsi hejuru akaba handitse Rwanda mu ibara ry'umuhondo.

Icyapa cy'umweru cyanditseho wumani afise dirimuze kigaragaza imyambaro yaba ari iy'abadamu, abakobwa, amakanzu, amajipo ndetse n'imyambaro yo hejuru gikunze kumanikwa ahantu hari amashopu ndetse n'ahantu hari iduka ry'imyenda.

Abagabo babiri umwe wambaye ingofero iri mu ibara ritukura uteruye ikarito, ndetse m'ubumoso bwe hakaba hari undi mugabo wambaye ikote riri mu ibara ry'umukara ndetse hejuru yabo haka hari imodoka iri mu ibara ry'umutuku ryanditseho ibihumbi bibiri furi ndetse hejuru hakaba hari ijambo ryanditse onorayini shopu.

Inzu iri kwakamo itara ry'umweru, ndetse hakaba hamanitse igikoresho cyangwa se akantu twifashisha tumanika imyenda yacu kugira ngo itangirika, hakaba hamanitseho amashati ari mu ubwoko butandukanye, imipira ndetse muri iyo nzu ikaba isize cyangwa se iteye irangi ry'umweru.

Amacupa abiri ari mu ibara ry'icyatsi, hejuru hakaba handitse ijambo ryanditse mu ibara ry'umukara bayi kwaliti furije ati besiti purayisi ini Kigali ndetse hasi hakaba hari ijambo ryanditse burandizi ryanditse mu ibara ry'umukara, hasi yaryo hakaba hari ijambo ryanditseho samusange nikoni mu buryo bw'iburyo.

Icyapa cyanditseho iposita cyandikishije ibara ry'ubururu, inzu yiganjemo ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, abamotari benshi baparitse, imodoka zanditseho iposita mu ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo.

Moto iri mu ibara ry'umutuku n'umukara iparitse ku mapave hafi y'umuhanda ifite purake eride maganatandatu na mirongo ine na gatandatu se iri mu ibara ry'umuhondo. Ikaba itwaye agasandhuku kanditseho vubavuba kari mu ibara ry'icyatsi.

Umumotari wambaye kasike cyangwa se igikoresho cy'ubwirinzi ku bamotari, wambaye n'ipantaro y'umweru ateruye ikarito. Imbere ye hari undi musore wambaye agapfukamunwa k'umukara ndetse n'ishati y'umutuku nawe ufashe kuri iyo karito, bayiteretse hejuru ya moto.

Imbuto zitandukanye harimo itomate, pome,a amacunga, amashu, imineke, inanasi ndetse n'amaji atandukanye ari mu gikoresho cyagenewe gukoreshwa mu gihe wagiye guhaha muri Supermarket cyangwa se mu iduka ritandukanye.

Nubwo igitsinagore atari cyinshi mu batwara cyangwa mu bageza ibintu ku bandi baba babitumijeho bakoresheje ikoranabuhanga, ariko barimo abakobwa ukunze gusangamo cyangwa igitsina gore, muri uwo mwuga wo gutwara ibintu babigeza ku bantu baba babisabye.

Umusore wambaye ishati inyuma ye hakaba hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, cyanditseho erekitoronike mu ibara ry'umweru, homu ofisi, kikaba gishushanyijeho amaterefone atandukanye ya samusange, ibumoso bwe hakaba hari amajage, teremusi ndetse n'igikoresho gishyushya amazi, bakunze kwita keto.

Umuntu wambaye umwambaro w'ubururu, inyuma mumugongo we handitseho ijambo twiga, ryandikishije ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, akaba yambaye ingofero y'umukara ndetse na oranje, imbere ye hakaba hari icyapa cyandikishije umutuku.

Igikapu cyangwa se isakoshi y'abadamu iri mu ibara ry'umweru ishushanyijeho imisambi ibiri ndetse mu buryo bwacyo hakaba hari ikote riri mu ibara ry'umukara, hejuru yaryo hakaba handitse igiciro cy'amafaranga kiri mu ibara ry'umutuku.

Imineke ihiye iri mu ibara ry'umuhondo, ijambo besite seringi ryanditse mu ibara ry'umukara, ibirayi cyangwa se ayirishipotato, ndetse n'ibindi bicuruzwa biri ahantu hatandukanye yaba ibitomate, insenda, amashu ndetse n'ibirayi.

Inzu ishushanyijeho umuntu mu ibara ry'umukara, hakaba handitseho hawuze ovu tayo ikaba hejuru hariho itara ry'umweru ndetse ikaba isiza ibara ry'umweru ndetse hakaba hari inzugi cyangwa se amadirishya ari mu ibara ry'umukara ndetse n'imbere bigaragara ko hari inzu bacururizamo ibintu bya gakondo.

Moto iri mu ibara ry'umukara n'umutuku ifite pulake y'umuhondo yangitseho aradi maganatanu na mirongo ine na gatatu di, itwaye ikarito y'ubururu yanditseho kanisi fudu imbere yaho hakaba hari umgabo wambaye ipantalo y'umukara na masayi z'umukara.

Icyapa cy'umutuku kiriho ikinyobwa gisembuye kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo, kiriho abantu batagaragara neza, yego, kirimo ikirangantego cya sikolo.

Urukweto rw'umweru bakunze kwambara bakunze kwita eyafosi, rwanditseho ijambo nayike hejuru hakaba handitse home ofu shuzi mu ibara ry'umweru, viziti wawawa akadomo kigure akadomo rwa shopu nawu endi injoyi mu ibara ry'umweru ndetse na furi derivari mu ibara ry'icyatsi.

Umukobwa uri guseka wambaye ishati, mu kaboko k'ibumoso kakaba gateruye telefone y'umukara ndetse n'ikarita y'umuhondo, imbere ye hakaba hari icyapa kiri mu ibara ry'umutuku cyanditseho gukora ubusabe hamagara ku buntu na nimero ya watsapu wababonaho ndetse hasi hakaba hari icyapa cyanditseho sitayi shopu shopu onilayini.

Inzu iri mu ibara ry'umweru imanitseho icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, cyanditseho ihaha akadomo rwa. Yandikiahije mu ibara ry'umweru ndetse n'indabo ziri hanze, hapariste n'amamodoka atandukanye.

Umumama uri guseka wambaye umwambaro uri mu ibara ry'umweru, ufite udukapu turi mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, imbere ye hakaba handitse amagambo ati: "Purizenti yuwa porodakiti tu miriyoni" ndetse hakaba hariho n'iminzani ipima ibiro by'ibicuruzwa.

Umugabo wirabura wambaye umupira w'umutuku ufite icupa ry'amazi mukaboko k'iburyo, akabako k'ibumoso hakaba hari umwana wambaye umupira w'umweru ndetse hakaba handitse ati kwariti roko furuwiti yogati endi yamuzi medi ini rwanda.

Icyapa cyanditseho shopu foromu yurope endi jamani kiri mu ibara ry'umuhondo kimenyesha ko ubu ushobora kuvana ibicuruzwa mu burayi cyangwa se mu budage ubizana muri afurika , hakaba hariko indege, ubwato koko bigaragara ko biri guca mu nyanja ndetse no mu kirere.

Umukobwa uri guseka wambaye umupira wiganje mu ibara ry'icyatsi n'umweru wanditseho vubavuba wambaye amaherena uri gupfundura ikarito cyangwa se akabogisi kanditseho vubavuba kari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umutuku.

Umusore wambaye umupira uri mu ibara ry'icyatsi wambaye ipantaro iri mu ibara y'umukara, akabatwaye igikapu kiri mu ibara ry'icyatsi cyanditseho vubavuba, ndetse akaba afite igare riri mu ibara ry'umukara, imbere ye hakaba hari igipangu ndetse n'ibiti.

umudamu uri guseka ufite telefone y'umweru mu ntoki wambaye ekuteri nk'igikoresho dukoresha kugira twumve neza, ndetse akaba yicaye ku ntebe, imbere ye hakaba hari igikapu cyangwa se agakapu kanditseho elite digiti kari mu ibara ry'umukara.

Umupapa wicyaye kuri moto iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umutuku wambaye umupira w'icyatsi uhetse inyuma agasanduku cyangwa se igikarito cyanditseho vubavuba kiri mu ibara ry'icyatsi, ndetse akaba aparitse m'umuhanda urimo amapave cyangwa usashemo amabuye.

Moto iparitse iri mu ibara ritukura ndetse n'umukara, hakaba hahagaze abagabo babiri: umwe wambaye umupira uri mu ibara ritukura n'agapfukanwa k'umukara ndetse akaba afashe ku gasanduku kari mu ibara rya oranje kanditseho ayirasi ndetse n'umumotari wambaye kasike y'ubururu n'ipantaro y'umweru.

Umugabo uteruye ikarito yanditseho jumiya, byanditse mu ibara ry'umukara, akaba yambaye umupira wa oranje ndetse n'umukara, akaba yambaye n'ipantaro bakunze kwita amakoboyi. Imbere ye hakaba hari utubati cyangwa se etajeri z'ibyuma.

Umugabo uri guseka wambaye umupira uri mu ibara ry'icyatsi wanditseho vuba vuba, ndetse akaba ateru ya anvelope irimo imbuto zitandukanye. Yaba karoti ndetse na ji iri mu icupa ry'icyatsi, ndetse imbere hakaba hari ikarito yanditseho vuba bavu iri mu ibara ry'icyatsi iteretse kuri moto.

Abantu bambaye utugofero tw'umweru n'ibisarubeti by'ubururu, barimo baratwara ibitoki babishyira ahabugenewe, ibitoki biri mudutebo cyangwa se bari kubipima ku munzani ahantu hasa nk'aho ari isoko.

Moto iparitse iri mu ibara ry'umweru n'umutuku ifite purake iri mu ibara ry'umuhondo, ikaba ihetse agasanduku kari mu ibara ry'icyatsi kanditseho vuba vuba, hakaba hahagaze umugabo wambaye umupira wanditseho vuba vuba mu ibare ry'icyatsi uri gushyiramo amavirope mu imbere.

Umumotari wambaye ishati iri mu ibara ry'umukara, wambaye kasike iri mu ibara ry'umweru ndetse imbere hakaba haparitse moto itwaye agasanduku kari mu ibara ry'umutuku kanditseho efu efu si derivari, ndetse inyuma yaho hakaba haparitse cyangwa se hari imodoka zitandukanye.

Umu motari wambaye kasike iri mu ibara ry'umuhondo, mu kuboko kw'ibumoso kwe akaba afite averope yanditseho Kasha mu ibara ry'umukara, ndetse akaba aparitse moto ahongaho ifite akabogisi cyangwag se agasanduku karirimo ibara ry'umuhondo, handitseho ijambo Kasha mu ibara ry'umukara, ndetse ikaba iparitse kuri moto.

Icupa rya gaze riri mu ibara ry'ubururu, moto iri mu ibara ry'umutuku n'umukara. Itwaye agasanduku kari mu ibara ry'umutuku ndetse n'icupa ry'amazi ryanditseho jibu. Hasi hakaba hari nimero wababoneraho kuri watsapu igihe ubakeneye.

Abamotari baparitse bari kuri moto zitandukanye. Yaba moto ziri mu ibara ry'umutuku n'umukara ndetse n'icyatsi n'umukara. Hirya yabo hakaba hari igipangu cyanditseho ampasanti, ndetse n'ibiti biri mu mabara y'icyatsi.

Urukuta rwubakishijeho amabuye hejuru hariho amavazi cyangwa se ahantu bateramo indabo, zaba iz'icyatsi ndetse hakaba hari n'intebe ziri ahongano n'ameza ndetse hasi y'urwo rukuta hakaba hateyeho amapave.

Umumotari wicaye kuri moto wambaye umupira w'umuhondo, wambaye kasike iri mu ibara ry'umutuku, ndetse akaba atwaye igikarito cyangwa se agasanduku kari mu ibara ry'umuhondo ndetse na oranje, kanditseho pozi derivari, imbere hakaba hari ishyamba cyangwa se ibiti.

Ijambo ryanditse mu ibara ry'umukara kigali onurayini maketi puresi, hasi hakaba handitse ijambo bita joyini gurupe, riri mu ibara ry'ubururu, ndetse hasi hakaba hari umukobwa cyangwa se uri ahantu bandikira mesaje, wambaye imyenda y'umukara.

Umugabo wambaye ikote ry' ubururu w' umuzungu imbere ye hakaba handitse ijambo register today ryandikishje mu ibara ry' ubururu ndetse n' umweru hakaba harimo intebe nyinshi ndetse n' ameza.

Abamotari bicaye kuri moto batandukanye, bambaye kasike z'umweru, moto y'umukara ndetse n'umutuku, bafite purake ziri mu ibara ry'umuhondo, ndetse bakaba baparitse hasi, ahantu hari ibyatsi cyangwa se pasiparumu, imbere yabo hakaba hari inzu cyangwa se amafatari yubatse.

Inzu iri mu ibara ry'umweru, hanze haparitse imodoka iri mu ibara ry'ubururu, bigaragare ko iyo nzu icururizwamo imyenda, ndetse hejuru nkaba mpabona imyenda y'abagore iri kuri maneke cyangwa se kubipupe.

Abakobwa babiri bari guseka bambaye amaherena, bateruye ikarito yanditseho mirongo itanu ku ijana cyangwa se impano, bambaye umupira w'icyatsi ndetse n'undi wambaye umupira w'umutuku, hasi hakaba handitse kontakiti azi riri mu ibara ry'ubururu.

Abakobwa babiri umwe yambaye ikote ry'umukara ufite n'imisatsi y'umukara undi umuri inyuma uri guseka cyane bisa nkaho ari ku cyapa cyandiyseho jazi jankisheni kimenyesha abantu bagura amatike cyangwa se cyanditseho bayi tiketi onulayini nawu ndetse kandi kikaba cyanditseho mitsingi.

Umugabo wambaye ingofero iri mu ibara ritukura, ndetse n'umupira uri mu ibara ritukura ,uteruye ibintu bitandukanye iruhande rw'iburyo rwe hakaba handitse diferenti kayindi ofu gorosari stowa ndetse hasi hakabahanditse ibintu bitandukanye biri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Abantu babiri bateruye caske cyangwa se igikoresho kirinda abamotari guhura n'impanuka kiri mu ibara ry'icyatsi, cyanditseho nimero ndetse na sefe motos ndetse hakaba harimo umuzungu wambaye umupira w'umukara ndetse akaba yambaye n'amadarubindi y'umutuku.

Umugabo uri guseka uteruye ikarito yanditseho isoko rigari akadomo komu, wambaye ingofero y'ubururu, umupira w'ubururu, uri mu modoka ishobora kuba igemuye ibicuruzwa ahantu hatandukanye, hasi ku modoka hakaba hariho nimero ya watsapu ndetse n'indi nimero wabasangaho.

Ibikapo cyangwase amashakoshi ya badamu ibikoresho bakoresha mugihe barikwitera mekapu, inkweto zabadamu, imisatsi yabadamu, igikoresho bakoresha mugihe barigusukura imisatsi, isakoshi yumukara, imipira iri mubwoko bwubururu ndetse ndetse na imisatsi bakunze gushyira mu mutwe

Umumotari uri kuri moto, wambaye kasike iri mu ibara ry'icyatsi, imoto iri mu ibara ry'umukara n'umutuku ndetse akaba atwaye agasanduku kanditseho Kasha mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru ndetse hakaba handitseho www.kasha.rw na numero ushobora kubahamagara mu gihe ubakeneye, imbere hakaba hari ibiti cyangwa se indabo.

umugabo wambaye ishati imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa bigaragara ko ari kuyikanda hasi hakaba handitseho nimero ya watsapu hejuru hakaba handitse ho ijambo riri mu mabara y'icyatsi na oranje handitseho ngo webusite dizayini ndetse n'andi magambo ari mu ibara ry'icyatsi.

Inzu iri mu ibara ry'umweru ku gikuta hakaba hamanitseho tereviziyo iri mu ibar ry'umukara, ndetse n'ibitako bitandukanye cyangwa se ibishushanyo, hakaba harimo intebe ndetse hakaba hakamo n'ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye ikoti ririmo ibara ry'umukara, ishati y'umweru, ipantaro iri mu ibara ry'umukara ndetse n'inketo z'umukara uhagaze munzu isize irange ry'umweru hejuru hari itara ry'umweru ndetse irimo amakaro asa umweru n'inzugi z'umukara.

Inzu ifite igipangu kiri mu ibara ry'umukara, ikaba ifite amabati ari mu ibara rya orange ndetse iyo nzu ikaba yakwifashishwa mu buturo abantu bakayibamo, cyangwa se bakayikodesha kugira ngo abantu babone .

Inzu isize irangi ry'umweru mo imbere hakaba hari kwakamo amatara y'umweru ndetse hakaba harimo amarido y'umweru hejuru hakaba hari igisenge cyangwa se ibyo bakunze kwita parafu y'umweru ndetse harimo n'intebe ndetse n'inzugi.

i umugabo mbona wambaye ipantaro y'ikoboyi yambaye ishati ijya gusa n'umweru isa nkaho yishyize linki isa nk'igurisha inzu ndetse hirya nkaba mbonayo inzu zisize amarange y'umweru nkaba mbona ibiti wagira n'indabo.

Icyumba kiri mu ibara ry'umweru kirimo igitanda gisashe mu mashuka yiganjemo ibara ry'umweru ndetse n'ubururu bwijimye hakaba hariho imisego ibiri y'umweru vandarateri cyangw igikoresho kizana akayaga mu cyumba ndetse n'amashuka ndetse n'amarido.

Inzu iteye irange risa umweru, ndetse rikaba rifite ibirahure bijya gusa umukara, rifite amakaro asize irange ry'umweru, ndetse ikaba ifite na twa twuma bita uturindabasazi, turi mu ibara ry'umweru, hirya yaho hakaba hari ibiti ndetse n'ayandi mazu.

Inzu isize irange ry'umweru ifite ibirahure bibonerana, ifite inzugi zisize irange rijya gusa umweru, mu imbere hakaba harimo irange ry'umuhondo ndetse hakaba harimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse iyi nzu ikaba yakifashishwa kuyibamo cyangwa se ubucuruzi butandukanye.

Ndabona ibicu by'umweru ndabona ahandi higanjemo ibara ry'ubururu bw'ikirere ndabona inkuta zubakishijwe amatafari ahiye ndabona ibiti binyuze muri izo nkuta ndabona imfungwa cyangwa se abagororwa nta misatsi bafite bambaye inkweto z'umuhondo ubururu n'umukara ndabona bafite ibikoresho by'ubuhinzi n'umusaruro ukomoka ku buhinzi nk'ibihaza ndabona bafite amasuka, ndabona iruhande rwabo hari icyobo.

Inzu ikodeshwa kacyiru mu mujyi wa kigali ikaba ikodeshwa amafaranga igihumbi na magana atanu by'amadolari hakaba harimo firigo ndetse n'ibindi bikoresho byo mu gikoni .

Ijambo JUMP REAL E-STATE ryanditse mu ibara ry'umukara, hejuru hakaba hari umuhanda uri mu ibara ry'umukara n'umweru ndetse mu ruhande rw'iburyo hakaba hari igorofa riri mu ibara ry'umukara ndetse n'igorofa riri mu ibara ry'umutuku rirerire cyane.

Inzu iri mu ibara ry'umweru, ifite amadirishya ari mu ibara ry'umukara, ifite ibirahure, ku ibaraza cyangwa se veranda harimo ivaze cyangwa se icupa rijyamo ururabo ndetse ku ruhande rw'ibumoso hakaba hari umugabo ufashe ku gikuta wambaye umupira w'umweru.

Inzu isize irange ry'umweru hejuru ku rusenge cyanwa se aho bita purafo hakaba hasize irangi ry'umweru, mo imbere mu nzu hakaba harimo itara risa umweru ndetse hasi hakaba hari amakaro ari mu ibara ry'umweru, ndetse iyo nzu ikaba yanditseho icyapa hasi cyanditseho foru seli Kigali-Kanombe bigaragara ko ikwiye kugurishwa.

Inzuzi isize irangi ry'ubururu ndetse mu imbere ku ibaraza hakaba hasizemo irangi ry'umuhondo ndetse ikaba ifite inzugi cyangwa se amadirisha ari mu ibara ry'umukara ndetse ibirahuri by'umweru hanze hakaba hari amapave.

Inzu isize irangi risa umuhondo hejuru hakaba hasize irindi rangi risa umweru ndetse n'amatara ari kwaka y'umweru. hakaba harimo abantu batandukanye bigaragare ko hacuruzwamo ibinyobwa, ibyo kurya ndetse n'ibintu bitandukanye yaba fanta, amaji , ndetse n'ibindi bintu byose.

Abantu batandukanye bari mu nzu cyangwa se baje mu isoko bakaba bambaye imyambaro itandukanye ndetse inzu ikaba irimo ibikoresho bitandukanye, yaba imitako, inkweto, imiringa ndetse n'imyambaro igiye itandukanye hakaba harimo n'umuntu cyangwa se umudamu wambaye umupira uri mu ibara ry'umuhondo.

Ibigaragara hano bisa nk'aho hari abagabo babiri baje gushopinga kandi bakaba bahitamo shoping moruze ni ahantu ugenda ugahitamo ibyo ushaka ntawu kubwira ibiciro , ibiciro kuko biba babyanditseho , umugabo umwe yambaye iby'umukara umu mama yari yambaye iby'umukara ,inkweto z'umweru bisa nk'aho ari inzu y'ubucuruzi bw'agatangaza.

Umudamu wambaye ikanzu yiganjemo amabara atandukanye yaba ubururu n'umweru imbere ye hakaba hahagaze umugabo, ndetse n'imyenda imanitse yaba amajipo, amashati, amapantaro ndetse n'ibikapu biri hejuru cyangwa se amashakoshi.

Icyapa kiganzemo ibara ry'icyatsi cyanditseho Remera sawa siti, ibumoso bwacyo hakaba hari umuhanda urimo amamoto, imodoka, ndetse muburyo bw'uwo muhanda hakaba hari gucamo abasore babiri bari gutambuka, ndetse n'ibiti byinshi ku muhanda.

Umudamu wambaye ishati yiganjemo ibara ry'umweru, ufite ikaramu mu ntoki, wambaye amaherena mu gutwi, imbere ye hakaba hari ameza ateretseho telefone ndetse n'impapuro, n'ibikarito n'ibumoso bwe hakaba hari undi mumama.

Inzu isize irange ry'ubururu hakaba hamanitseho kiriho abantu bane kivuga ati gira ubuzima helifu positi ndego byanditse mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru hejuru y'icyo cyapa hakaba hari itara ndetse hanze y'iyo nzu umumama wambaye ijipo y'ubururu cyangwa se ikanzu n'agapfukamunwa.

Abadamu babiri bambaye umwambaro uri mu ibara ry'umukara ndetse bikaba bisa n'aho bateruye icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho umunyamuryango ku isonga ndetse bakaba inyuma hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho ara esesibi.

Abantu batandukanye bari mu nzu isize irangi ry'umweru ndetse hakaba harimo umusaza wambaye ingofero y'umukara, akaba ateruye inkoni cyangwa se inkoni batanga igihe cy'ubukwe ndetse mu ruhande rw'iburyo bwe hakaba hari undi muntu ufite ikayi mu ntoki n'impapuro.

Inzu isize irange ry'umweru, hasi hakaba hari amakaro ari mu ibara ry'umweru, hejuru hakaba hari amatara yaka umweru, ndetse mo imbere hakaba harimo utubati tubitsemo amakarito atandukanye, yaba ay'icyatsi, umutuku, umuhondo, ndetse n'ubururu.

Umudamu wambaye agapira kiganjemo ibara ry'umweru n'ijipo y'umukara uteruye akajerekani kuzuye amavuta ndetse uruhande rwe rw'imoso hakaba hari n'igikoresho bifashisha igihe wagiye guhaha batwaramo ibikoresho ndetse n'imbere ye hakaba hari undi mudamu uri kureba hanze.

Inzu iri kwakamo amatara y'umweru harimo umusore wambaye umupira w'umukara uteruye igikoresho bakunze kwifashisha ku irembo ndetse inyuma ye hakaba hari undi musore wambaye ishati y'umukara ukuboko kw'ibumoso kwabo hakaba harimo amakarito menshi n'ibikoresho bigiye bitandukanye byo murugo ndetse n'ibyo kunywa bitandukanye.

Umukobwa wambaye umupira w'umweru, agakote kari mu ibara ry'ubururu, wambaye amadarubindi, wambaye ishashi mu kuboko ku iburyo ndetse mu kuboko ku ibumoso kwe hakaba hari ahantu bahahira muri supermarket, harimo ibyo kurya bitandukanye n'ibyo kunywa bitandukanye.